Umwana wishimye uri guseka cyane, ufite amenyo y'urwererane bigaragara ko ayitaho cyane ateze ku ruhombo ruri kuvamo amazi ari gukaraba intoki amazi akagwa mu gisa n'isafuriya cy'umweru.

Umugabo usa na Israel Mbonyi arimo arita ku mwana, amuha igicuba kirimo amata ngo asome, ni umwana uteruwe na nyina umubyara aho nyina yambaye igitenge cyirimo amabara y'icyatsi, n'iribaya ry'umweru.

Umuryango Mpuzamahanga wita ku buzima akenshi usanga ikirango cyawo harimo igisa n'ikaramu ndetse n'inzoka iba isa n'ikizinzeho, gusa iyo witegereje neza ubona byose biri mu ibara rijya gusa n'ubururu.

Umwana wambaye ibibodaboda bishaje afite umupira w'umutuku, yambaye ishati ya madowadowa ni ukuvuga isa n'iya gisirikare, ashyize ibiganza bye kuri rubine ari kunywa amazi, ari guca mu biganza ari kumanuka akagwa mu ndobo isa n'ikigina.

Girabuzima ni ijambo ryanditse ku nzu ifite irangi ry'ubururu, iruhande hari ibishushanyo birimo abana babiri, umwe afashwe n'umugore undi afashwe n'umugabo.

Abagabo bane n'umugore umwe biragaragara ko baje mu bijyanye no kwita ku buzima bw'abatuye Isi. Umugabo umwe yambaye amarinete, undi mugabo yambaye baji nini. Mu gihe indi baji yambaye umugore.

Abana batatu. Barimo uduhungu tubiri n'agakobwa kamwe, biketegeye imigezi itatu, buri umwe yafashe isabune asiga mu biganza bye, urufuro ni rwinshi, amazi nubwo ari kumeneka akamenekera ubusa, ariko barimo barasukura intoki zabo.

Bitewe n'ibibazo by'indwara zo mu mutwe zisigaye ziri hanze aha ngaha, ntabwo ari u Rwanda gusa ruhangayitse kuko n'Umuryango w'Abibumbye ishami ryita ku buzima, na ryo rihora rikoresha inama nyinshi cyane, zo kurebera hamwe uko hahanganwa n'ibibazo bitera ibi byose.

Ubundi hamenyerewe kizimyamwoto z'umutuku gusa izi zo ziragaragara nkaho ari kizimyamwoto z'ubururu. Gusa utitegereje neza ushobora kuba wakwikanga ko ari nka robine y'amazi, gusa imiterere ni kizimyamwoto.

Abana bicaye ku itapi ifite amabara y'umweru n'umukara, utabizi wagira ngo ni abafana b'ikipe ya Juventus cyangwa se New Casso yewe ushobora no gukeka ko ari APR FC ya hano mu Rwanda.

Umugabo n'umugore baje kwivuza, imbere yabo bahasanga umuganga ufite imashini ya HP ndetse n'undi muganga ufite ikaramu na telefone, ari byo ari gukoresha byonyine.

Abaje kuvoma buri umwe yitwaje icyo aza gukoresha, ufite indobo irasa n'umweru gusa hari n'ufite iy'umutuku, hari ufite ikijerekani cy'umuhondo giteye nk'intebe n'akandi gateye nk'agatebe gato ariko kajyamo litiro imwe y'amazi.

Umugore wajyanye umwana we uri munsi y'imyaka itanu kwa muganga afite imarete mu ntoki, umuganga ari kumwitaho yambaye icyumvirizo mu matwi ngo arebe niba umwana ibibazo yaba afite ari byo agomba guhererwa imiti.

Abagore n'abagabo basa n'aho ari abanyabuzima, buri mudugudu uba ufitemo batatu, babiri muri bo bafite ibisa n'amafu mu ntoki, kandi bambaye n'amataburiya ajya kuba ubururu mo gake.

Umuganga uri kwita ku mwana ucigatiwe na nyina, nyina yambaye ibitenge ndetse anabyitera mu mutwe, umuganga uri kwita ku mwana yambaye itaburiya y'umweru ndetse na ga mu ntoki kugira ngo atabasha kuba yagira mikorobe yandura.

Abana b'abahungu n'ab'abakobwa bambaye imyenda ya kaki bigaragara ko ari imyenda y'ishuri ku kigo cy'amashuri abanza bigaho, bose bafite indobo baje kuvoma, ikindi kandi ni uko buri mwana asa naho azi neza akamaro k'amazi.

Abana babiri bicaye ku meza magari, ubona ko ari meza ukwiye kwicaraho abantu bakuru. Kwicara byanze basa n'aho bahagaze, akaguru kamwe kari mu kirere. Umwana umwe yazamuye urutoki asa n'uri kubwira abamuri imbere ati, nanjye mushobora kuma umwanya.

Abagore n'abakobwa, ubona ko bateraniye ahantu hamwe, gusa n'abagabo ntibatanzwe, biragaragara ko basa n'abafite ingingo runaka bari kwigaho, by'umwihariko ishobora kuba irebana n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, no kurebera hamwe uko ryarandurwa burundu.

Abagore n'abagabo bateraniye hamwe bambaye inifomu zibaranga, hari umugore ufite ipaje ariko afite n'igikomo cy'umweru kinini cyane, ahagaze iruhande rw'umugabo wambaye baje ariko yambaye itaburiya y'umweru itandukanye n'izabo, asa naho ari umuyobozi.

Amazi atemba, abangaba birwanyeho bafata umugano barawutobora kugera uhindutse nk'uruhombo, barangije bawucomeka mu isoko yivubura kugira ngo bajye abona amazi mu buryo buboroheye.

Abana babiri, umwe uri mu kigero cy'imyaka cumi n'ibiri, undi uri munsi y'imyaka itanu, bagiye kudaha amazi mu gishanga bitewe n'uko mu mudugudu wabo nta vomero ryiza ribaha amazi rihari, aya ni amazi ashobora gutera uburwayi.

Inama yahurije abantu batandukanye hamwe iri kwiga ku buzima mu buryo bwagutse kubera ko harimo abirabura, abazungu ndetse n'abarabu, buri wese imbere ye hateretse icupa ry'amazi kandi afite ikaramu n'ikayi ari kwandikamo ibivugirwa muri iyo nama.

Umugore uhagaze imbere y'abagabo ndetse n'abasaza, ari kubabwira uko bakwiye kwitwara mu gihe bageze mu zabukuru. Ndetse akabarangira n'aho bashobora gukura inama zishobora kubafasha gukomeza kugira ubuzima buzira umuze.

Umwana wagiye kuvoma afite indobo y'umuhondo, ubona ko ari indobo irengeje ubushobozi bwe iramutse yuzuye amazi, arimo arayiterura anihaniha ku buryo kuyigeza ku mutwe ari ikibazo. Ese ubundi nayigeza ku mutwe bwo araza kuyigeza mu rugo?

Abaturage benshi cyane bicaye imbere y'ibiro by'Akagari baje mu cyiswe urukiko gacaca, ibi ngibi iyo uvuze urukiko gacaca byumvwa neza n'abantu bariho nyuma ya mirongo icyenda na kane, Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ikimara guhagarikwa.

Icyumba kiberaho inama hasohotsemo abantu basa naho bamaze gukora inama, aba nta kindi bigagaho uretse ibijyanye n'ubuzima. Harimo umugabo muremure ariko n'ubwo ari igisore cyane ntabwo ari we muyobozi wabo kuko ubayoboye ni umugufi muri bo.

Muri gahunda y'ubudehe buri mudugudu wagiye wubakirwa umugezi, ku buryo ushobora kuba watanga amazi nibura kungo mirongo itatu n'eshanu, aho umudugudu wabaga ari munini ku buryo uwo umugezi utabahaza bahabwaga urenze umwe.

Umugabo w'Umusilamu wambaye ishati y'igitenge ifite amaboko maremare, iyo shati ikaba irimo akarongo k'umuhondo ku ijosi kanamanuka kakagera mu gatuza, yambaye ingofero y'Abasilamu yagiye kwivuza, muganga yambaye agapfukamunywa ari kumubwira ngo asama turebe icyo amenyo yawe arwaye.

Umugore witeze igitambaro cy'umuhondo kirimo amabara asa narimo ingwe, ari imbere y'umuzani upima ibiro, uretse ibyo kandi hirya ye hari jenereta ishobora gutuma ibitaro bitazima.

Urugaga rw'abikorera rwateraniye hamwe, harimo abagore ndetse n'abagabo, ntibakwirengagiza kandi ko harimo abakobwa, urubyiruko ndetse n'abasore. Bose bakaba bateze amatwi, ibyo umuyobozi wabo ari kubabwira.

Umugore w'umuzungu usa n'abagabo afite mikoro mu ntoki, afashe ikiganza cye agishyira mu gatuza ubona ko amarangamutima yamufashe kuvuga biranga. Yambaye isaha ku kaboko k'iburyo ndetse n'igikomo ku kaboko k'ibumoso.

Abantu batandatu bari imbere y'ikigega, buri umwe afite igikombe k'icyatsi, harimo umumama, bigaragare ko nyine abasigaye bose ari abana, abakobwa ni batatu ndetse abahungu ni babiri, ibyo ubibwirwa n'uko bambaye amajipo, abahungu bambaye amakabutura.

Imodoka ya toyota irimo iragenda mu muhanda w'ibitaka, umuhanda mubi cyane ahantu h'imisozi. Abana bane bari ku mugezi bafite utubido dutatu baje kuvomeramo. Umugore uri inyuma yabo arahageza asanga bari kurwana n'umugezi batawushobora none ari kubafasha.

Umwana iwabo badafite amazi mu Mudugudu, yagiye kudaha amazi mu gishanga, aya ni amazi aba arimo imisundwe na gutya akandagiyemo akaba ari kuvoma cyo ubwacyo ni ikibazo. Uretse ibi kandi ashobora kuvomamo umusundwe cyangwa se ukaba wamwinjira mu kaguru ukamuteza uburwayi.

U Rwanda n'isi yose muri rusange, ku itariki icumi z'ukwezi kwa cumi, hari umunsi mpuzamahanga ukomeye cyane bazirikana kugira ngo bakomeze guhashya ibyonnyi ndetse n'ibyorezo by'ibirwara bitandukanye.

Umugore uri ku mugezi uriho amajerekani, indobo, amabasi, ndetse n'amasafuriya afite akana gatoya gasa n'akagwingiye kuko kabyimbye ubutama. Birasaba ko gahabwa ifu ya ongera ndetse na shisha kibondo kugira ngo kazanzamuke.

Abantu benshi batinya guterwa urushinge bareba, ni yo mpamvu n'uyu mumama ushobora kuvuga ko ari umwe muri abo kubera ko n'ubwo ategeye urutugu muganga ngo atereho urushinge rurimo umuti, yahumirije ntashaka no kumureba.

Umugezi usa n'ushaje cyane bigaragara ko wakozwe ku ngoma ya Repubulika ya mbere, iyi Repubulika ye ya kabiri ntibagire icyo bawukoraho gusa ku ruhande ubona ko imirimo yo gutangira kuwusana irimbanyije.

Umuganga ufite akantu kameze nk'akamikoro ari kumwe n'abakecuru bisaziye. Buri mukecuru aricaye, ategereje kumenya ngo "Ese uyu mugore wambaye itaburiya, ufite ibyuma by'abaganga, akaba ari n'umuganga koko araza kuba atubwira iki?

Unicef ni umuryango Mpuzamahanga wita ku kurengera uburenganzira bw'umwana, yaba aba afite ibibazo by'ubuzima ndetse n'abandi bose bashobora guhura nabyo ubafasha kuba wabikumira, uragaragara mu mabara y'umweruru mu kirango cy'ubururu.

Ikiziga kimeze nk'ikibuga cy'umupira w'amaguru, gusa wakwitegereza neza ukabona nta kibuga cy'umupira w'amaguru cyaba giteye gityo, uramutse ukiyise icyubako k'ikigega cy'amazi nanone waba wibeshye kuko amazi yajyamo nta kintu ashobora gufasha abaturage.

Abana benshi cyane, bambaye amakabutura asa nabi, bafite utujerekani bari ku mugezi baje kuvoma, ubanze nibageza amazi mu rugo, ababyeyi babo bari bunabafurire imyenda, iruhande hari umugabo uri kubafasha gufungura amazi

Bambaye amataburiya ajya gusa n'ubururu bw'ikirere, iruhande rwabo hari umugabo ufite uruhara mu gihorihori akantu k'akaziga gato cyane kangana n'igiceri, buri muntu yambaye ikarita igaragaza aho yaje aturuka.

Umubyeyi wazanye akana ke kwa muganga karimo kwizambaguza ariko bari gukoresha amayeri yose ashoboka kugira ngo bagahe igitonyanga, hanyuma gakomeze kuba kagira ubuzima bwiza, binakarinde indwara nyinshi cyane zinyuranye.

Umugabo wambaye inkweto z'umweru z'uruganda rwa Nike, yambaye itaburiya y'umweru n'agapira k'umukara ubona ko gapira ari umukara bitewe nuko kagaragara ku gipesu cy'itaburiya idafunze neza ngo irumye.

Abagabo n'abagore b'ubwoko butandukanye ndavuga kuba ari abirabura, abazungu ndetse hakaba harimo n'abarabu, buri umwe afite icupa ry'amazi afite telefoni imbere ye ya smartphone irimo iragenda imufasha kubika ibiri kuhavugirwa.

Umwana ufite agasatsi gake wambaye iniforume y'amashuri abanza, ari ku mugezi afite igikombe gisa n'umweru gifite udukondo tubiri ari kuvoma amazi yo kunywa.

Abana batatu barimo barakaraba, gusa hariho n'abandi babiri barimo barabyigana ku buryo umugezi ugaragara nk'uwapfuye, amazi akaba arimo aranyura impande n'impande nubwo bateze ngo ibase aba arimo ajya ntabwo biri gukunda.

Abagabo batatu ndetse n'abagore babiri basa n'abicaye bari mu nama, igamije guhangana n'ibibazo byugarije isi by'umwihariko mu buzima, yaba ibituruka ku ndwara ndetse n'indi bishobora guturuka ahandi.

Umwana uhagaze ku mugezi, guhagarara bimunaniye aca bugufi afungura robine, atangira kunywa amazi akoresheje ibiganza, aravuga ati ariko amazi sinshaka ko ameneka arahenda, reka ntege indobo anyura mu biganza ayigwemo.

Abagore babiri n'umugabo umwe, buri umwe afite urupapuro mu ntoki, umugabo uri iruhande rwabo yambaye congo y'umukara, ndetse yambaye n'ishati ijya gusa nk'iroza. Ku ruhande rwabo gato hari umudaso ufite ibendera ku rutugu.

Umugore wambaye imyenda y'iroza, afite ijerekani ateze kuri robine, umwitegereje neza ubona iruhande rwe hari umwana wazamuye agapira ndetse n'ukuboko kw'iburyo, umukondo wose ukaba uri hanze. Hino gato, hari umwana w'igitambambuga.

Abagabo n'abagore bambaye imipira y'imyeru, bitabiriye amahugurwa ku bijyanye n'uko bashobora gufasha umuntu wahuye n'ikibazo k'ihungabana, byose bikagendana n'ubuzima. Ibi byose rero bikorwa mu rwego rwo kwegereza abaturage serivise.

Akana kagiye kuvoma kijyanye gafite indobo eshatu ndetse gafite n'icyogesho kari kubanza koza kugira ngo umwanda wari urimo ubanze uvemo, hanyuma kajyane amazi mu rugo afite isuku, ku buryo abayakoresha nta ndwara aza kubatera.

Abana batanu baje kuvoma ariko batatu muri bo ni bo wavuga ko bari bakwiye kuzana amajerekani bazanye kuko bafite n'ubushobozi bwo kuyikorera. Nk'ubu ndahabona umwana uri munsi y'imyaka umunani, ufite akabido ka cumi n'atanu kuko kukageza iwabo rwose byo sinzi niba bishoboka.

Ateze ukuboko muganga afite iserengi ifite nka santimetero mirongo itatu n'eshanu, yambaye ga ebyiri ku maboko yombi arimo aramutera, asa n'uri kumukingira covid cumi n'icyenda.

Ibiganza bibiri bitwereka ko dukwiye gukaraba amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo twirinde indwara ziterwa n'umwanda zirimo diyare, korera ndetse n'impiswi, zishobora no kuba zavamo urupfu, by'umwihariko ku bana bari munsi y'imyaka itanu ndetse n'abagore batwite.

Umugore n'umugabo barahagaze, umugabo umwitegereje neza urabona ko ari umunyabuzima kubera ko yambaye imyambaro bakunda kwambara. Umugore aragaragara nk'utwite ndetse umunyabuzima afite igishushanyo kiriho umugore n'umugabo, amubwira ati wakabaye wazanye n'umugabo wawe kwipimisha hano kwa muganga.

Bagaragara nk'abahagaze imbere ya kiliziya bitewe nuko inyubako yubatse, ariko nubwo yubatswe ku mwaduko w'abazungu ikubakwa mu rwego rwo kugira ngo ijye isengerwamo, ivurirwamo.

Umwana muto cyane wambaye imyenda idoze mu gitenge afite ubusatsi bw'injwiri ariko buzinze inweri, ari gukaraba intoki ku ruhombo amazi agwa mu ibasi, ayo mazi niyuzura ababyeyi be barajya kuyamena.

Umugore wagiye kwivuza magingo aya akaba yamaze kugera mu cyumba cy'abarwayi, muganga ari kumwitaho, yabanje kumwambika ikijire k'icyatsi asa n'ugiye kumubaga agira ngo amaraso ataza kujya ku myambaro yaje yambaye, bombi umurwayi n'umuganga icyo bahuriraho ni uko bateza ibitambaro mu mutwe.

Ibiganza bibiri byambaye ga z'imyenda zisa n'ubururu, zirimo zifite ipata wagira ngo bagiye gutera umusumari basana inzu y'ibitaro yangiritse.

Hamwe mu mujyi wa kigali usanga abantu baza kuvoma bitwaje amajerekani yabo, hanyuma bagatonda ku murongo uko baje, ibi birasa neza no mu cyaro, uretse ko no mu mujyi wa Kigali aho biba usanga ari mu nkengero.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana we bavuye ku mugezi umwana afite akaboko kanyunyutse, hanyuma yiyambarira igishati gisa n'aho kingana n'ipantaro ya se mu maguru, yikoreye ikijerekani cyanditseho ngo Unicef.

Abagore babiri bafite umusatsi kamere icyo bakora ari ukuwogosha no guconga gusa, iruhande rwabo hari umugabo urimo arabaha amabwiriza, ababwira uko bakeneye kwita ku buzima bwabo.

Abana bari hagati y'imyaka itatu n'itanu bambaye imipira y'imihondo bari kwitabwaho n'ababyeyi babo. Ni muri gahunda yo kurandura imirire mibi, buri mwana afite icyansi kirimo amata.

Umugore wifashe mu mayunguyungu ahagaze imbere y'abandi begereye ameza, arimo arababwira ati "mwambonye ko meze neza". Abandi na bo bakamubwira bati "nonese twe ni inde wakubwiye ko tumeze nabi"?

Imbaga y'abantu bateraniye hamwe basa n'abafite ikibazo baje kuganirizwaho ku bijyanye n'ubuzima, gusa buri umwe yibereye mu bye, yaba ufite telefone, yabo ufite ikijerekani arimo aragikoza ibyo ashaka.

Abagabo b'ibikorokoro bicaye mu nama, umugabo umwe afite urupara inyuma, undi afite urwahereye imbere, gusa ruguru yabo hari n'urufite urwahereye ku matwi, gusa icyo bahuriraho ni uko bari mu nama yiga ku buzima.

Abana bavuye kwiga mu mashuri abanza banyuze ku mugezi kugira ngo babashe kunywa amazi, barimo barabanza gukaraba intoki nk'uko bamaze igihe babitozwa n'abarezi babo ndetse n'izindi mpuguke ziza gutanga amahugurwa zihugura abanyeshuri n'ababarera.

Umunsi Mpuzamahanga wo kurwanya kanseri wizihizwa ku Isi hose usanga mu Rwanda insanganyamatsiko idakunze guhinduka kuko barakubwira ngo isuzumishe turarandure kanseri, bakongeraho ngo y'inkondo y'umura.

Bose bifashe ku kananwa bumiwe kuko badafite icyo babikoraho, ni icyorezo cya Marburg cyongeye gusa naho gikaza umurego, ku buryo bose bari kwibaza ngo ese ni iki gishobora gukorwa? Umugabo ufite uruhara ndetse n'ipfupfu mu ijosi ari kwibaza ngo ni iki cyakorwa yifashe no ku itama.

Abagore batatu bafite amajerekani asaga umunani, buri mugore ategereje ko avoma. Amazi arimo arashonga ku buryo kugira ngo aya majerekani azuzure, bisaba nk'amasaha atandatu.

Umwana uri kwitabwaho n'abaganga babiri, nyina afite ubwoba bitewe n'uko uyu mwana arimo serumu, umutwe warabyimbye, udutama turabyimba, biragaragara ko ashobora kuba arwaye indwara z'imirire mibi.

Umusaza uri guseka nta kindi kiri kumusetsa uretse iterambere Igihugu cy'u Rwanda kirimo kirageraho kibikesha Intore izirusha intambwe, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame.

Umugore uteze igitambaro kirimo amabara nk'ay'ingwe, yambaye agapfukamunwa gahinguranya amatwi yombi, yambaye igitaburiya kinini cyane ndetse n'igishashi bigaragara ko yifunze wagira ngo ari kwinjira muri morgue.

Inyubako igaragara nk'irimo impombo zigiye zitandukanye, zirimo ibyapa by'ubururu, hari umugabo wambaye ijire n'ingofero y'umweru uri gutambagira ngo arebe uko ibyo byuma byose bikora neza.

Umwana w'igitambambuga ariko utari igisekeramwanzi, iwabo bamuzinze imisatsi y'inwere, afite igicupa cy'amazi kinini arimo arakaraba intoki gusa arabikora nk'umwana ntabwo arimo yikarabya ku buryo isuku ye yaba yizewe.

Umugore wihebye wicaye ku musambi imbere y'igiti cyanditseho amagambo, bamuziritse iminyururu barangije bahambira ku giti kugira ngo atabirukankana. Ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe, yatewe n'urushako yagize akiri umwana.

Umugabo usa n'uwataye umutwe yafashe igipine cy'imodoka akizengurutsaho, afite umusatsi w'amaderede ariko usa nabi, yambaye ikabutura y'impari, yambaye ndetse n'isengeri y'icyatsi.

Ahagaze imbere y'inzu isa n'itari iye bitewe nuko arimo arayiriraho amafoto ubutitsa, yambaye ishati ye irimo ibipande bibiri igipande kimwe kirimo ibara ry'umukara ndetse ikindi kikaba kirimo ibara rya kaki.

Imbaga y'abantu bateraniye hamwe, bamwe bicaye, abandi bahagaze, ubona ko irimo abagabo b'ibikwerere bafite inda nini batangiye kurya hambere, buri umwe yambaye ipantaro ndetse n'inkweto.

Itariki icumi z'ukwezi kwa cumi buri mwaka ni umunsi Isi yose yahariye kwita ku buzima bwo mu mutwe. Iki ni ikibazo gihangayikishije abantu benshi, aho iyo uvuze ubuzima bwo mu mutwe, abantu duhita dutangira gutekereza abafite ibibazo bakunda kwitwa n'abasazi.

Mu rwego rwo kwiha amahoro ni byiza ko umuntu yirinda kujya mu bintu byinshi bimutera umunaniro w'ubwonko kuko uyu ni umunaniro ushobora no kuba wakurizaho ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Abagore benshi cyane bateraniye hamwe bose bambaye imyenda idoze mu bi bitenge, by'umwihariko amaribaya nubwo idasa ariko ubona ko forumure idozemo ni imwe, ikindi bari kugarukaho ni ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Abantu benshi cyane biganjemo abambaye impuzankano zisa nk'iza gipolisi n'ubwo atari bo, bari imbere y'umumama wambaye ipantaro y'umutuku usa n'aho ari we wari waje kubaha ikiganiro, ku bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe, uba ku itariki icumi z'ukwa cumi buri mwaka, ni umunsi mpuzamahanga washyizweho n'umuryango w'abibumbye wita ku buzima, ukaba ubona ko hari ingaruka byagiye bigabanya.

Umugabo uzwi nk'umuterapisite yicaye iruhande rw'icyapa kigaragaza ibyo akora, yambaye isaha ku kaboko, yambaye ishati eshatu, yambaye ni'ishati y'ikote ndetse n'ikote y'ishati, ibi byose bikaba biherekezwa n'isaha n'ibikomo yambaye ku maboko.

Mental health mobile clinic ibi ni ibitaro byita ku bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe, aho usanga hari n'abaganga b'inzobere babizobereye bakaza kuganiriza abantu bahuye n'ibyo bibazo, kugera ku rwego hari n'abo twabonye batangiye gukira.

Abana b'abanyeshuri bamanitse ibiganza bose, iruhande rwabo hari ibendera ry'igihugu riri mu mabara atatu umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi, hakaba harimo n'izuba, ni idaraporo rimanikishije masine ku giti.

Umukobwa wambaye udukomo tubiri ku kaboko n'ipantaro y'ikoboyi iri mu ibara rya kaki, yambaye agasengeri k'umukara gateze amabere ye, agashanete karamanutse mu ijosi kagahinguranya mu gatuza.

Abagore batatu ndetse n'umugabo wicaye imbere yabo, inyuma yabo hari umwana wambaye agapira k'umutuku, umugabo arwaye akaguru yazamuye ipantaro ari kwereka abo bantu bari imbere ye, yicaye ku ntebe y'urubaho rusa n'ibara rya kaki.

Umwana warize wahogoye cyane kugera ku rwego yikorera amaboko, imbere ye hari umubyeyi we nawe ufite akana mu ntoki yabuze aho akerekana, biragaragara ko bashobora kuba bombi bafite ibibazo byo mu mutwe batewe n'intambara zo muri Congo.

Kurwanya ihohoterwa ni inshingano zanjye, iyi ni siroga abitabiriye igikorwa cyo guhangana n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina by'umwihariko bari gukoresha, hari abapolisi, hari abasirikari ndetse hari n'urubyiruko rwambaye imipira y'icyatsi.

Umugabo wambaye imbunuzi ahuye n'undi wambaye wikwije ariko uwambaye imbunuzi na we si we, umwitegereje neza ubona asa n'ufite ikibazo cyo mu mutwe, umusatsi we warahindanye, ubwanwa bwe bwasaga n'ubwa Yezu na bwo burimo ibibazo byinshi.

Umugabo wambaye agapira k'umuhondo afite ijosi rirerire n'akananwa karekare, iminwa yose yayishyize hanze ku buryo amenyo agaragara uko yakabaye, ariko ibigaragara uko ari guseka arasa n'ufite ikibazo mu mutwe.

Umugore wishyize ibintu by'umutuku ku munwa afite mikoro y'umukara, yicaranye n'undi mugabo nawe wambaye umupira w'umukara akaba yifitiye urupara, umurebye ku mutwe we ushobora kugira ngo niko yavutse bitewe nuko harimo harabonerana cyane kubera ko nta gasatsi.

Abana bari hagati y'imyaka umunani na cumi n'tanu, ubona ko bahagaze bambaye inkweto, harimo n'abambaye ibirenge, buri umwe afite akajerekani agiye ku iriba kudaha amazi gusa amazi adashywe ntabwo aba yizewe isuku yayo, ashobora gutera indwara.

Umugabo wihebye bigaragara ko ubwenge bwe butagikora neza, yambaye inkweto zimaze imyaka n'imyaniko zidaheruka amazi, ipantaro yo sinakubwira umupira wari umutuku wahindutse ikigina.

Abagore bafite abana, imbere yabo hari umugabo urimo arabereka uburyo bakwiye kwita ku bana babo kugira ngo umwana adakurana ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe kandi akiri muto, akaba yatangira no kuba yatekererezwa ko yarozwe akaba arwaye indwara z'amarozi.

Umugore usa naho yihebye, yicaye mu cyumba abaganga batangiramo inama ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe, ariko n' inama zihabwa ba bantu ibibazo byabo by'ubuzima bw bwo mutwe biba bitararengerana ku buryo kumuganiriza nta kintu na kimwe bishobora kuba byakemura uyu we ntabwo ararenga igaruriro.

Turakangurirwa cyane kwita ku buzima bwo mu mutwe kuko ushobora kwireba wakwiyumva ukumva nta kibazo na kimwe ufite kandi bwaramaze kuyoyoma ndetse bukanatabuka, ni ngombwa ko rero buri wese abigira ibye akaba yajya kwa muganga kabone n'ubwo yaba yumva atarwaye.

Abantu bagera kuri barindwi, bane muri bo bambaye imipira y'imikara, undi yambaye ishati ijya kuba ubururu. Hari ibitambaro bitwikirije ameza bahagaze imbere, gusa hari n'ufite igipurizo.

Umuryango mugari urasa n'aho wamaze guhagurukira ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe byibasira ubwonko, gusa nanone tukaba tugirwa inama yo kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge byaba inzoga ndetse n'itabi, ku bo byabase tukababa hafi tukabereka ububi bwabyo.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'ibibodaboda by'umutuku, yambaye umupira w'umutuku mu gatuza ufite ibara ry'umweru, imbere ye hahagaze umugore ufite mikoro n'umusatsi uzinze shinyo.

Umugabo w'igikwerere wambaye ishati ya Made in Rwanda ifite ibipesi bitatu mu gatuza, afite ubwanwa buzengurutse umunwa, gusa na we uruhara rwahereye ku matwi.

Umugabo wihebye ukenyeye imihama mu maguru yicaye ku mukeka, yambaye umupira w'ubururu urimo uturongo tw'umweru witegereje neza uhita ubona ko ari umupira usa n'ijezi ya Chelsea.

Umugabo ufite imyenda yashanyaguritse, ufite ubwanwa bwinshi bwiza ariko busa n'ubwamaze kwangirika bitewe n'ibibazo byo mu mutwe yahuye na byo, amaze icyumweru cyose agenda n'amaguru kandi agendesha ibirenge.

Abagore batatu bari kumwe n'umusaza wicaye ku ntebe y'urubaho iruhande rw'abo bagore hari umwana wambaye umupira w'umutuku bigaragara ko ari umwuzukuru w'uyu musaza, bari kumuganiriza kugira ngo babashe gutuma agira ubuzima bwiza, ye kwiheba ku buryo yagira ibibazo by'ubwonko.

Abagore ndetse n'abagabo ubona ko ari abantu bazobereye mu bijyanye no gutunga amafaranga, ndimo ndahabona umugabo uzwi nka Munyantwari Alphonse. Hino yabo hari inzu ishobora kuba itangirwamo serivisi z'ubutabera.

Umugabo wihebye wambaye umupira w'umutuku, biragaragara ko yahoranye amafaranga kuko uretse uyu mupira, ipantaro, ishati n'ingofero yambaye na byo birabigaragaza ariko umugore we arimo aragerageza kumwihanganisha kubw'igihombo cy'amafaranga arenga miliyoni ijana yahuye na cyo.

Si kenshi uzasanga abantu babizi ariko na byo bibaho, habaho umunsi Mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe hareberwa hamwe uburyo ibintu bishobora kuba byagenda neza, aha ngaha baratwereka uwitwa Uwihoreye Chaste, uyu nguyu akunda kugira inama abantu batandukanye kubera ko ni inzobere muri izi ndwara.

Iki ni ikirango cyangwa se igishushanyo cyerekana ko impfu zituruka ku bantu bapfa biyahuye mu gihugu cy'u Rwanda ziba zihagaze ugereranyije n'indi myaka yatambutse, hariho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri kugera mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani.

Ubuzima bwo mu mutwe ntabwo bufata abantu bafite ibibazo by'ubukene gusa kuko usanga hari n'abafite amafaranga menshi ariko kugira ngo ubuzima bwabo bube buhagaze neza bikaba bigoranye, bikaba byanabaviramo ubwo bukene tuvuga ahubwo.

Umugabo urimo ararira cyane, ubundi ntibisanzwe kubona amarira y'umugabo atemba ashoka, ariko uyu we ukurikije uko arimo aramanuka, hatagize igikorwa ngo akurikiranwe ubuzima bwe bwo mutwe bwitabweho, ashobora no kujya yirirwa arira umunsi wose.

Abana bane barishimye cyane gusa nubwo ari bane bishimye bicaye mu bandi bana benshi, ubitegereje ushobora kubona wagira ngo ni abana basoje amashuri y'inshuke, gusa ushobora no gusanga benda no gusoza abanza.

Urubyiruko rwateraniye hamwe rwambaye imipira y'ubururu iriho Ikirangantego cy'Igihugu ari cyo bendera. Bari kuganirizwa n'umugabo muremure wambaye ishati na karuvati ndetse n'umuzungu waturutse mu mahanga.

Umugore ufite icupa riteretse imbere ye, afite mudasobwa yo mu bwoko bwa HP, yambaye iribaya ry'ubururu ndetse n'umuhondo, mikorofone afite abari iruhande rwe bateze amatwi ibyo aza gutangaza.

Umukobwa ufite umusatsi ugwa mu maso ku buryo ingohe z'uruhande rumwe zitagaragara ndetse yewe n'ibitsike by'impande zombi bikaba bitagaragara, afite urudodo ari gushyira ku menyo, nta nyinya na gato wabona, urukuta wagira ngo ni urw'ibaberi.

Umugore uri kuvirirana amaraso menshi cyane mu kanwa, ari kubiterwa n'uko bari kumukuramo iryinyo, bakuyemo irirwaye, n'iritarwaye rihita rihungoka, biba ngombwa ko na ryo rigomba kuvananamo n'irindi.

Abana biga mu amashuri abanza usanga muri iyi minsi baratojwe kwita ku isuku y'amenyo yabo, buri mwana afite agakombe ke karimo n'amazi, afite uburoso ubw'ubururu, ubw'umutuku, ubw'icyatsi, arimo arogesha amenyo akoresheje umuti, buri mwana n'akantu ke.

Abana bari hagati y'imyaka itandatu n'umunani buri mwana wese afite uburuso yashyizeho umuti w'amenyo arimo aroza mu kanwa, ikindi kandi barimo barabikora bakoresheje udukombe n'udukombe buri wese afite ake.

Umukobwa ufite umusatsi kamere ari kumwe n'umusore ufite umusatsi yazinze amaderede, bombi bambaye imipira y'imweru iruhande rwabo hari umuntu uri mu kintu cy'igihu, aba bose icyo bagaragaza nuko bakubwira ngo ita ku menyo yawe.

Igishushanyo cy'amenyo kigaragaza uko biba biteye, utitegereje neza ukakireba ari nijoro uri umunyabwoba ushobora gukuka umutima, ku buryo gusinzira bishobora kukugora.

Inyubako irimo jenereta ishobora gutanga umuriro w'amashanyarazi mu gihe amashanyarazi ya REG, agiye iruhande rwayo hari igihombo, utitegereje neza ushobora kuba wagira ngo ni inkingi ifashe inzu, ariko ntabwo yafata inzu ibaye ari n'inkingi.

Umusore wambaye umupira w'umweru ufite amaboko, n'ibizigira nta mpeta yambaye bigaragaza ko ari ingaragu nk'izindi zose, afite imisatsi y'amaderedi afite akadodo ari gukoza ku munwa, yanyuye cyane kuburyo ashobora no guherayo.

Ukeneye gukora ibishoboka byose ukarinda amenyo yawe, kuko iryinyo iyo rivuyemo, nubwo washyiramo irindi ry'irikorano, ntabwo ubona nka rya rindi. Uko biri kose ikintu kamere aba ari kamere. Uyu mugore na we, ingaruka afite ni iz'uko atitaye ku menyo ye.

Abaganga babiri bose bambaye udupfukamunwa, bambaye n'amarinete nk'ibikoresho bibafasha kureba ikibazo umurwayi afite, barimo barita kuri uyu mugabo urwaye ibwene ryo hasi ry'iburyo, n'ibwene ryo hejuru ry'ibumoso.

Umugabo w'umuganga w'abana ariko akaba n'umuvuzi mu bijyanye n'amenyo, akaba ashobora no kuba yakugira inama ku buryo ushobora kwita ku mubiri wawe, afite igishushanyo cy'amenyo agaragaza uburyo amenyo atitaweho ashobora kuba yateza nyirayo ibyago bikomeye cyane.

Umugabo w'inzobe uri guseka ufite ubwanwa bwinshi buzamuye bukanyura ku matama bugahinguranya ku matwi, afite amenyo y'urwererane nta nyinya na ntoya irimo, mu gihugu cya Ethiopia iyo ufite inyinya biragoye ko wasaba umukobwa w'aho ngo bamugushyingire.

Igikanka cy'amenyo usanga atari igikoreshwa gusa mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, aho baba bagira ngo barebe uko bakwiga ibi bintu mu buryo bwimbitse, kuko iyo bigeze muri kaminuza ho banigira ku bantu cyangwa se ku mirambo.

Ikibazo cy'amenyo ni ikibazo gihangayikishije kuko kera wasangaga amenyo arwara abantu bakuru, akaba ari indwara zifatwa nkaho ari iz'abasaza, gusa n'abana bari munsi y'imyaka y'ubukure n abo basigaye bakuka amenyo mu buryo bwa hato na hato kandi budasobanutse.

Yafashe intoki ebyiri za mukubitarukoko arangije aransama umunwa wo hejuru utandukana n'uwo hasi ariko amenyo ku rusenge rwo hejuru ntirwatandukana n'urwo hasi, hasigara hagaragara izuru. Iyaba umugabo ukurikije uko bimeze uku nguku akaba anafite ubwanwa, wari kuvuga ko yogoshe zero fote.

Umugore ufite amenyo y'urwererane akesha koza amenyo ye akoresheje uburoso bwiza kandi akamenya no kubusazurira igihe, ateze igitambaro cy'umweru ndetse yambaye n'isengeri y'umweru.

Abana bari mu ishuri buri mwana afite umuti woza amenyo, bari kumwe na muganga ndetse n'umwarimu wabo, buri munyeshuri afite umuti n'uburoso yabimanitse hejuru bagaragaza ko na bo gahunda yo koza amenyo bayishyize imbere.

Aha ngaha barimo bizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuvuzi bwo mu kanwa, aho abenshi muri bo bari abagabo ndetse n'abagore, ukaza bakagukubitaho icyumvirizo, bakumva nta kibazo na kimwe ufite cyangwa se nta kibazo nawe ubwawe ugize mu menyo, ukaba uri muzima, ugatangira ingamba zo kwirinda.

Umukobwa ufite iminwa ikwedutse, afite ikirahuri mu ntoki arimo arireba arasamye, amenyo yo hejuru niyo arimo agaragara, nta gihingikirane na kimwe afite, ikindi kandi afite ingohe zisa n'izogoshe.

Naragenze ndabona mbona umugabo ufite inyinya munsi y'iryinyo, hejuru y'iryinyo na bwo ri ikaba ihari ariko ikaba yibereye mu ibwene, gusa akora ibishoboka byose ngo nubwo afite amenyo ateye nabi ayagirire isuku, kugira ngo azayarinde kuba yanakuka.

Umwana wasamye, ufite iherena ku gutwi kumwe, umuganga arimo aramutamika akantu kameze nk'akayiko, ashaka kuvanamo iryinyo rirwaye. Utitegereje neza, ushobora kugira ngo ako kayiko, ni igiceri cy'ijana ry'irinyarwanda, bacometseho ikintu cy'icyuma.

Umugabo wasamye, amenyo ye arafunganye cyane nk'inkuta z'i Yeriko, arimo aranyuzamo urudodo ngo akuremo imyanda, gusa kugira ngo ruzacengeremo ni ingorabahizi pe!

Abagore n'abagabo, basoje amahugurwa basobanurirwa ku buryo wakwita ku buzima bw'indwara zo mu kanwa, unabungabunga amenyo yawe, none basoje bafashijwe nk'abahawe ikibwirizwa, ku buryo birangiye ifoto bayifashe bicaye hasi.

Umuganga ufite ibyuma bibiri bimeze nk'amapensi yasamishije umwana, arimo aramukura iryinyo. Iri ryinyo uko rigaragara rirasa naho ryangirikiye mu buto, aho uyu mwana atajyaga yitabwaho n'ababyeyi be ngo barebe niba amenyo ye yakoreye isuku.

Abagore n'abagabo bahuriye hamwe mu bijyanye n'uburyo bwo kwita ku menyo, buri umwe afite korogate ndetse n'uburoso, bambaye imipira yanditseho ngo tubeho bigaragaza ko ari indwanyi ziharanira guhirimbanira ubuzima.

Umusaza warambuye akaboko afite akuma ari guterura kazwi nka ariteri ari kumwe n'umumama uri kumwerekera uko ibintu bigomba gukorwa, uwo mumama aragaragaza umusaya umwe ndetse n'ugutwi kumwe aho abwira umusaza ati kora gutya ni bwo bikunda.

Umusaza usheshe akanguhe ari kwitabwaho n'abana be, uruhande rumwe rufashe umusore urundi ruhande rufashe umukobwa, bombi bambaye amapantaro gusa umusaza yambaye ipantaro y'itise.

Umukecuru ugeze mu zabukuru akaba yarahawe igare ry'abafite ubumuga ryo kugendamo, ari kwitabwaho n'umuganga na we uri kugenda amurya isyataburenge ku kijyanye no kugera mu zabukuru. Gusa we aracyafite imbaraga zo kuvura abarwayi.

Umumama ukuze wakabaye afite iminkanyari nta n'umwe ushobora kubona bitewe nuko yikundira siporo, n'ubu ngubu yicaye hasi arambuye amaboko ye yombi ari gukora ku kirenge cye cy'iburyo, biragaragara ko ari bimwe mu bimufasha gukomeza kugira uruhu rwiza.

Umukecuru n'umusaza bombi bambaye imipira y'imituku, umukecuru umupira we nubwo ari umutuku harimo utubara tugiye dusa n'umukara tuzengurutse, yambaye ishanete mu ijosi mu gihe musaza we yambaye amarinete.

Umusaza ufite imyaka yigiye hejuru yambaye umupira w'igitare, afite umugabo uri kumusindagiza amwereka aho agomba kunyura, bitewe nuko imbaraga z'umubiri ari nkeya, ntabwo ashobora kumujya kure kuko ashobora gufatwa n'isereri akitura hasi, kandi kumugeza kwa muganga na byo ntibyaborohera.

Umusaza w'imvi wambaye amarinete ari imbere y'abagore babiri, umugore umwe afite akantu k'umuhondo arimo aramufasha gukora imyitozo imufasha gukomeza kugira intege atazahajwe n'indwara zo mu zabukuru.

Umugore n'umwana we ubona ko bicaye bizihiwe, uyu mugore n'umwana we barabyaye, baroroka kugera ku rwego bumva ko ubuzima bushobora kuzakomeza kugenda neza aho bazaba bari hose.

Umukecuru n'umusaza, bicaye ku meza iriho amacupa abiri y'imiti itandukanye, umukecuru afite urupapuro ari gusobanurira umusaza uko bigenda. Umusaza na we ari kumwereka telefoni nshyashya yaguze, ifite kamera ebyiri, iz'imbere n'iz'inyuma.

Abagore batatu bari guseka bishimye cyane, umugore umwe yambaye umupira w'umutuku undi yambaye umupira w'umweru imbere harimo isengeri y'umukara, mugihe uri iruhande rwabo yambaye umupira urimo amabara asa n'ay'inyamaswa ya zeblura.

Umusaza ugeze mu zabukuru ari kumwe n'umwuzukuru we uri kumucunga inyuma, amufasha kugenda kugira ngo ataza kwitura hasi mu kagare k'abafite ubumuga kubera ko imbaraga zimaze kumubana nkeya.

Umukecuru n'umusaza barimo barasangira, umusaza yambaye ishati y'amaboko maremare arangije aradegaja, ari kurya ibiryo bitukura ariko iruhande rwabyo hari n'imboga z'icyatsi. Arimo arabwira uwo basangira ati "Ntabwo ndarya ibiryo bitukura gusa, ndashaka n'imboga rwatsi."

Umugabo uri kumwe n'umukobwa, barimo bararebera hamwe uburyo uyu musaza yakwitabwaho kubera ko ageze mu zabukuru, iminkanyari ikaba yagenda nka nyomberi, yambaye amarinete, mu gihe umukobwa uri kumugira inama yambaye umupira w'umweru n'imisatsi y'umukara.

Abantu babiri b'abazungu, umugore n'umugabo, umugabo afite ubwanwa bwo hejuru y'umunwa ndetse umugore umusatsi we nta mvi zirimo ariko uteyemo amatentire.

Umusaza munini cyane, utagifite umusatsi, ariko na none uruhara rutaraba rwinshi cyane, afite ijisho ryabyimbaganye cyane arasa n'uwituye hasi, muganga ari gufungura ibipesi, ngo arebe niba atanakomeretse mu gatuza.

Abasaza babiri bambaye mu buryo gakondo, umusaza umwe yambaye ishati iri mu ibara ry'ubururu bw'ikirere, undi yambaye ishati y'umweru, ikindi bombi bambaye imikenyero, gusa uw'iburyo yambaye umukenyero w'umukara, mu gihe uw'ibumoso yambaye umukenyero w'umweru.

Abagore n'abagabo bageze mu zabukuru, bateraniye hamwe gusa abagore ubona ko ari bo benshi, umugabo uhari aragaragara nk'umusilamu kuko yambaye ikanzu n'ingofero, ubundi si ibintu biba bimenyerewe cyane uretse iby'idini ko umugabo yambara ikanzu.

Abagore n'abakobwa, abakecuru ndetse n'abasaza, barimo barasoroma icyayi bifashishije ibitebo, bakabikora vuba vuba cyane ku buryo birangaza abakerarugendo baba baje gusura igihugu cy'u Rwanda.

Umugabo ugeze mu zabukuru udafite umusatsi ariko ufite ubwanwa bwinshi bw'imvi, yambaye ishati y'amaboko magufi ari kugenda afashe ku byuma ngo ataza kwitura hasi kubera ko imbaraga z'umubiri zamaze kuba nke.

Umugabo ufite umukandara w'umweru yakenyenye ariko bikaba biri kuregarega, yaravunitse ari kugenda acumbagira gusa iruhande rwe hari umuganga wambaye imyenda y'akazi uri kugenda amufasha kugera aho agomba kujya.

Umugabo usa n'ukuze cyane afite inkoni igonze, yambaye impeta igaragaza ko hari uwo bashakanye, umukobwa uri kumwitaho aragaragara nk'umukorerabushake, afite inweri, ari guseka, bombi icyo bahurizaho ni uko amenyo yabo ari urwererane.

Abagore batatu barimo baraseka gusa umwe arimo arasekera ku mutsi w'iryinyo, mu gihe abandi bo bari guseka byanyabyo. Uri gusekera ku mutsi w'iryinyo, afite n'amagufwa yanamye mu ijosi, agapira ntikamufata neza.

Abenshi bibaza uko bigenda ntibabashe gusobanukirwa kugira ngo umuntu ugeze mu myaka y'izabukuru abe adafite uruhu rukanyaraye, gusa abaganga bakubwira ko kwita ku muntu ukuze, ukamwereka uburyo ashobora gukora siporo ari imwe mu ntwaro.

Umusaza ukuze cyane yaje gushaka ubufasha kwa muganga, umuganga uri kumwitaho ari hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu ndetse na makumyabiri n'umunani, umuganga arimo aramusekera umusaza na we akishima iminkanyari ukabona ko ipfunyurutse.

Abagore batatu n'abagabo batatu bari bateraniye hamwe biga ku bibazo bijyanye n'ubuzima, kubera ko biragaragara ko ibyapa bahagaze iruhande ari ibya Minisiteri y'Ubuzima.

Inama isa n'iyahuje abagore ndetse n'abakobwa ifite ibyo yigaho, ushobora gusanga ahari bari kwiga ku buryo bakwirinda guhohoterwa ndetse n'ubikorewe agatangira amakuru ku gihe.

Nta gihe tutumva ububi bw'indwara ariko iyo bigeze kuri kanseri usanga bihindura intera, aha hagaragara ibyapa bibiri bifashwe n'abantu b'ingeri zitandukanye barimo bamamaza bavuga ngo: "twirinde kanseri y'ibere".

Ukuboko kuriho ibishuti byinshi cyane bigaragara ko ari ibiheri, ibi ngibi bikaba bisa n'ibimenyetso abantu babwirwaga ubwo humvikanaga indwara y'icyorezo cya Monkey pox.

U Rwanda si rwo rwigeze rusigara inyuma mu bijyanye no kwita ku barwayi bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe kuko usanga uretse no kuba babitaho mu buryo bwo kubavura, hari n'inzobere ziza kuganiriza abo barwayi muri buri kagari no kwereka abakiri bazima uko bakwirinda.

Inama yahurije imbaga y'abantu hamwe, biga ku buryo hahashywa SIDA ndetse n'ubwandu bushya bwayo kuko uwamaze kuyirwara we nta kindi kiba kigomba gukurikiraho uretse gutangira imiti.

Aha ngaha baratwereka ko umwana ashobora kuba yakwandura virusi itera SIDA ayandujwe na nyina mu gihe amubyara, ni byiza ko rero mu rwego rwo kwirinda kwanduza abana bacu virusi itera SIDA, ababyeyi bagiye kubyara bihutira kubyarira kwa muganga.

Abakobwa bateraniye hamwe bambaye imyenda isa hejuru, ni imipira y'imyeru irimo n'ibirango, batatu batatu bagiye bagira ikadere bahagazemo barangiza bakifotoza.

Abaganga babiri bifunze nk'aho bagiye kwinjira muri morgue gusa iruhande rwabo hari umugabo wasamye ikigaragara cyo ni uko nta morgue barajyamo, ahubwo bagomba kumwitiraho aho ari ikiriho ni uko ashobora kuba arwaye indwara zikanganye.

Bateraniye hamwe mu nama yiga ku bijyanye n'ubuzima, bambaye amakoti ndetse n'amakaruvati, buri wese yambaye ukwe ukwe, ariko ubirebye bitewe n'uburyo bijyana wagira ngo bari babyumvikanyeho bakora iniforume.

Aha haragaragara ipage isa naho ari inyandiko, gusa ikaba yafashwe mu buryo bw'ifoto. Gusa n'ubundi ikigamijwe ni ugukangurira abantu kwita ku buzima bwabo, kuko n'ibirangantego nicyo bivuga.

Kanseri ni imwe mu ndwara zihangayikishije isi, usanga utavuga ngo ndirinda kanseri y'ibere kuko hari nubwo usanga warwaye kanseri y'ubugabo, ibi byose rero birasaba kwirinda no kwitwararika, tukirinda no gukoresha cyane ibintu biva mu nganda.

Umugore urimo urisetsa yambaye ijipo y'igitenge, yambaye kandi agapira kabonerana k'ubururu. Umusatsi we urimo urakora mu mugongo. Afite indangururamajwi arimo araganiriza abateraniye imbere ye akoresheje ubuhanga yakuye muri kaminuza.

Indwara ya Kanseri yibasira imyanya myibarukiro y'abagore ubona ko na yo ikomeje guteza impungenge abagore ndetse n'Isi yose muri rusange> Ni yo mpamvu u Rwanda n'ibihugu bya Afurika byishyize hamwe kugira ngo biyihashye.

Raporo yagaragaje ko Kovide cumi n'icyenda, cyari ikibazo gikomeye cyane ku buryo world health organization itigeze ituza gufasha by'umwihariko igice cya Afurika nubwo na yo bitigeze biyorohera.

Imbaga y'abantu bateraniye hamwe ubona ko ari urubyiruko rusa n'urusoje amashuri yisumbuye ruri ku rugerero, bambaye imipira y'imyeru bose, abenshi muri bo by'umwihariko abakobwa bafite imisatsi y'imikara isukiye inyuma.

Inama yabaye umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane yiga ku bijyanye n'uko ubuzima bwakwitabwaho by'umwihariko ubuzima bwo mu mutwe, bitewe n'uko ari ikibazo gihangayikishije kuva mu myaka yatambutse, hari intamba nyinshi zabaye mbere y'iyi ariko ni umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu ntakabuza.

Abagabo bane n'abakobwa babiri, ubona ko bose bafite ibyo barimo barakora, buri umwe yambaye ibaji ye mu ijosi igaragaza ko aho hantu ahari nk'intumwa yaturutse mu kigo runaka.

Minisiteri y'Ubuzima, ikangurira abantu bose kwirinda indwara zitandukanye zirimo malariya, SIDA ndetse n'ibindi byorezo hamwe n'ibisanzwe bishobora gutera bitateguje nka Ebola, Covid n'ibindi.

Umugabo umwe uhagaze ku ruvugiro afite microphone, indangururamajwi nyinshi cyane zishobora kuba zageza amajwi mu bilometero cumi na bitanu, arimo aratanga ikiganiro mbwirwaruhame ku buzima yerekana ifoto y'umugabo bahoze bakorana.

Mpande eshatu nyampanga, iriho igishushanyo kigenda kigaragaza byinshi cyane bitandukanye by'uburyo ubuzima bwo mutwe bushobora kwitabwaho biri mu rurimi rw'icyongereza, nta gatuza nifitiye ko kubisemura.

Abagabo babiri bambaye amakote barimo barasuhuzanya, umwe arimo arahereza undi impamyabushobozi igaragara nkaho ari yo yakoreye mu gihe cyose yamaze yita ku bijyanye n'ubuzima. Arimo arashimirwa ngo akomeze atere intambwe ajye imbere.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abantu batandukanye, harimo abaganga benshi cyane, umuganga umwe arifunze anafunga amazuru, biragaragara ko ashobora kuba agiye kwinjira muri morgue cyangwa se uburuhukiro.

Aha turahabona abamamaza uburyo bw'uko urubyiruko rushobora kuba rwakwitabira inzego za Leta, by'umwihariko izirimo ubuyobozi. Barifuza ko Afurika yagira urubyiruko rudatinya politike.

Umugabo n'umugore bahagaze, buri umwe afite icyapa cyanditseho umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu, umugore yambaye ipantaro, utitegereje neza kubera gusa n'abahungu nawe ushobora kumwitiranya n'umugabo, umugabo yambaye inkweto ndetse na koto.

Umugabo w'umusaza wogoshe urupara afite mikoro mu ntoki, yambaye ikoti, iruhande rwe ariko hari undi mugabo ufite urupara witegereje neza ubona itara rikubitamo rikagaruka, abenshi hari ubwo basererezanya bakavuga ngo n'ibityazo.

Inama Mpuzamahanga yita ku bijyanye n'ubuzima yateranye kugira ngo bigire hamwe igishobora gukorwa, hari abadaso, hari abazungu babiri, bose bakaba bihuje n'abirabura bahari ngo inama igende neza.

Icyumba kigari gisa n'umweru cyane, uretse kuba gisize irangi ry'umweru n'amatara yaka arasa n'umweru cyane, hari ibitanda by'abarwayi baryamaho ndetse hakaba harimo n'amashuka y'ubururu.

Ahantu henshi usanga bacuruza imiti nta burenganzira bahawe na Leta ariko kuri ubu barahagurukiwe. Ni yo mpamvu Legacy clinics yahisemo gushakisha ibyangombwa ndetse ikazana n'inzobere zizatanga ubuvuzi nta kimenyane bugendeyeho.

Iyo uva i Kigali biragorana ko ushobora kuba wanyura mu karere ka Muhanga ngo utabona ibitaro bya Kabgayi kubera ko ni ibitaro byiranga cyane, iyo ukihagera uhita uhabona ku irembo ryabyo hejuru hariho ijambo ryanditse ngo Kabgayi hospital.

Kwa muganga haba hatandukanye n'ahandi hantu, n'ubwo inzu zaba zishaje, urahagera bitewe n'isuku ihari ugahita wibwira ko aha hantu hashobora kuba hatangirwa serivisi z'ubuvuzi kandi zigatangwa mu buryo bunoze.

Ijisho rigaragara nk'irivamo amarira ndetse n'amashira ritaritaweho neza, iruhande rw'aho iki kirango k'iri jisho kiri hari amatara yaka ubururu ndetse n'umweru.

Mu ntara y'amajyepfo iyo uvuye mu karere ka Huye, urenga uturere turimo akarere ka Nyanza, ukarenga na Ruhango, hanyuma ukagera mu karere ka Muhanga ari na ko kubatsemo ibitaro bya Kabgayi, akaba ari bimwe mu bitaro bizwi mu gihugu cy'u Rwanda.

Abaganga batatu baragaragara nk'aho basoje akazi, imbere yabo hateretse amacupa yavuyemo ibinini batanze, ikindi kandi babiri muri bo ni abakobwa, mu gihe undi wa gatatu ari umugabo urimo arabaganiriza bakishima.

Icyumba kirimo jenereta ishobora gutuma umuriro waka mu gihe ahandi uwa REG wagiye, harimo intebe zinyuranye, harimo mudasobwa, harimo ndetse n'icyuma gishobora kuba cyapima ibizamini by'abarwayi byafashwe.

Intebe ngufi ariko zikoze mu buryo bwa kizungu zigiye ziteganye, aho buri ntebe ifite amaguru ane, buri kaguru ni gato cyane ku buryo uramutse uyagize nk'atatu, ashobora kuvunika itaricarwaho umunsi n'umwe.

Ikirere kirakeye cyane bitewe n'uko imvura imaze igihe igwa, kuri ayo masaha y'isaa tanu ukurikije uko kigaragara nta mvura y'indi ishobora kuza kugwa vuba, niramuka inanaguye ishobora kuza kubanza gutanga integuza.

Kizimyamwoto igaragara mu cyumba kivurirwamo abarwayi, iri iruhande rw'igitanda ndetse n'ingobyi izwi nka burankari. Ibi byose ni ibikoresho nkenerwa kwa muganga kugira ngo umurwayi icyo yaba arwayi cyose yitabweho.

Abanyeshuri benshi bize ibijyanye n'ubuvuzi, hakaza kuvamo abiga ibijyanye na farumasi, buri gihe iyo basoje amasomo yabo, usanga bagana ahantu hari imijyi bakajya gushinga farumasi zabo zicuruza imiti.

Inzu bigaragara ko ari akagari bitewe n'uko hariho ibendera ndetse rikaba ari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda ririmo amabara atatu nk'uko bisanzwe; ubururu, icyatsi n'umuhondo, ariko tukaba tubonamo n'izuba rifite imirasire myinshi cyane.

Inzu igeretse gatandatu iriho amagorofa meza cyane, yubakishije amatafari ahiye, barangije batera igishahuro bashyiraho amarangi, ku buryo utapfa kumenya ko ari byo biyikoze, bitewe n'isuka ihari ushobora gukeka ko ari kwa muganga.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, ubona ko harimo imashini zivura, hakabamo n'ibindi bishobora kwifashishwa mu gihe umurwayi abikeneye.

Umugabo wari umaze igihe arwariye mu nzu y'indembe, iyi nyubako yamaze kuba ayisohokamo, ibi nubwo yari arwariye mu nzu y'indembe, ni imodoka yamugonze ubwo yari yataye ubwenge bitewe n'amafaranga yari yibwe ariko aha yatangiye kugarura ubuyanja.

Icyumba cyo kwa muganga gifunze imiryango yombi uko ari itatu, ahariho rimwe, kabiri ndetse na gatatu, gusa ku kumba gatoya kinjira mu gikoni cy'aho abarwaje batekera ko karakinguye.

Abaganga babiri bari mu cyumba gifatirwamo ibizamini by'ubuzima bakarebwa niba indwara zikekwa ko uzirwaye arizo, ntabwo bashobora kwinjira muri iki cyumba batafunze bukwasi kuko buri umwe yambaye imyenda ndetse n'udupfukamunwa.

Umunyabuzima wambaye ga ebyiri mu ntoki, ku kaboko k'iburyo hariho isaha, yambaye agapfukamunwa gahinguranye amatwi yombi, yambaye amarinete ahinguranye amaso yombi, imbere ye hari abakecuru babiri ndetse afite n'igipima ubushyuhe.

Amafarumasi menshi acuruza imiti, biragoye ko ushobora gucuruza farumasi utarize ibijyanye n'ubuvuzi, iyi tureba aha ngaha ni farumasi izwiho kugira imiti myiza cyane aho bakubwira ngo ubwiza ni ubuzima, good life.

Umugabo w'umukorerabushake wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara yakenyeje umukandara ufite akuma gasa n'umweruru, arangije aratebeza, ari kumanika supanete kwa muganga kugira ngo abarwayi bataza kurumwa n'umubu.

Urupangu rurerure ariko rwubakishije amatafari ahiye, iruhande rwaho hari amakona, atambikwa n'abapolisi mu muhanda iyo bashaka gutega abantu bafite ibiyobyabwenge ngo babakanire urubakwiye.

Iyi nyubako irimo ibikoresho byinshi bigiye binyuranye biri mu mabara menshi cyane, hari ibara ry'umutuku, ibara ry'ubururu ariko ibara ryiganje ni ubururu bw'ikirere, muri iyi nyubako harimo na vandarateri.

Mu nzu nini cyane itangirwamo ubuvuzi, harimo imashini izwi ku izina rya genereta, hari umuganga wambaye agapfukamunwa n'igishashi gitwikiriye umusatsi we, yambaye itaburiya yanditseho ahagana ku mufuka ngo VIP.

Abaganga ndetse n'inzobere mu buvuzi bose bateraniye mu cyumba kimwe kirimo umurwayi bari kubaga, ukurikije uko aryamye aryamye nkuwo bagiye gusiramura gusa nanone wareba ku mutwe we ukabona umusatsi ari nk'uw'abagore, ubwo se umugore bamusiramura?

Ibyumba bibiri biteganye ku buryo umwe ari muri kimwe undi atamenya ibyabereye mu kindi, kimwe kirimo umurwayi uryamye utiyoroshe neza, ikindi kikaba kirimo inzitiramubu nyinshi cyane zimanitse, hakabamo na za kizimyamwoto nyinshi.

Mbere y'uko aha ngaha hahindurwa ibitaro hahoze ikigo cy'amashuri, gusa n'ubundi cyari ikigo cy'amashuri kigishaga ibijyanye n'ubuvuzi nk'uko bavuga ngo inderabarezi, aha naho hari mu nderabaganga.

Inzu nini cyane yubatse mu buryo bw'uruziga yubakishije amatafari ahiye barangije bayitera igishahuro, biragaragara ko abantu bayubatse bari bafite ubuhanga buhanitse kuko barayubatse iza mu ishusho y'uruziga.

Naragenze ndabona ariko ibyo ndi kubona ahaho ni agahomamunwa, hariho igitanda ushobora kwicaramo kikagutwara udakozeho, hari ni intebe ushobora kwicaramo nayo ikabikora, hejuru kuri parafo harasa na kaki.

Icyumba cyateguwe neza kirimo intebe nyinshi cyane nubwo kigaragara nk'icyo kwa muganga nkaho abarwayi bashobora kuba babagirwa, giteguwe nkikigiye kuberamo inama, gusa n'ubundi iyo nama igomba guhuza inzobere ziga ku buzima muri rusange.

Imashini iba ari amafaranga ushobora kwibaza uko yageze mu cyumba kirwariramo indembe bikakuyobera, gusa biragaragara ko umurwayi bazanyemo ashobora kuba yari ayifite imodoka ikamugonga igakubita hasi, bagaterura bihutana kwa muganga.

Bicaye mu nzu itangirwamo inama z'ubuvuzi, aha nta kindi bakubwira uretse kukubwira ngo ita ku mubiri wawe urya indyo yuzuye unakore siporo. Abitabiriye iyi inama kuri iyi nshuro ni bakecuru bageze mu zabukuru.

Ibitaro bya kaminuza bya Butare byitwa Sehashibe, usanga ababigana bavuga ko nubwo kera bumvaga ko ari ibitaro bya kaminuza bakagira ngo bikoramo abaganga b'abanyeshuri batazi ibyo bakora, bavuga ko ari ibitaro by'inzobere muri iki gihugu cy'u Rwanda.

Kanseri ni imwe mu ndwara zikunda kuzahaza abantu ititaye ngo uri uwa hehe, uvuka he, ukomoka he, urakize cyangwa se urakennye, niyo mpamvu dukangurirwa kenshi gukora ibishoboka byose tukayirinda.

Nubwo ari icyumba cyo kwa muganga, biratangaje kubonamo igishushanyo cy'akanyamasyo. Kiragaragaza ijisho rimwe ririmo akabara k'icyatsi, umweru ndetse n'umukara. Icyo kinyamasyo hejuru kuri kimwe bita igikote kirasa n'icyatsi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo rido ndetse n'ibirahuri, urebye ku rukuta ushobora kugira ngo ni bande ihari. Gusa si byo. Hino hari agatebe gateye nka kamwe k'abana.

Intebe z'amapine n'ibitanda by'amapine akenshi kwa muganga mu buryo bugezweho nibyo usanga birimo birakoreshwa, nk'iki tureba aha ngaha gifite amapine ane ndetse kikaba gisasheho kuvurori ya kaki.

Aho bavurira amaso. Ibitaro byinshi usanga bifite icyapa cyangwag se igishushanyo cy'ijisho kuko n'ibi bya Gihungwe ntabwo byigeze bitangwa, ukihagera uhita ukubitana n'icyo cyapa.

Umugabo uryamye ku gitanda iruhande rwe hari umuganga, yakuyemo inkweto asigarana amasogisi, risani irafunguye ashobora kuba agiye gusiramurwa, kumwambika impeta cyangwa se bakaza kumukatakata.

Farumasi yitwa Peniel iherereye mu nzu itari etaje, uyirebye neza nta n'ubwo wakeka ko ari inzu yo mu mujyi, ni inzu ushobora gusanga za Nshiri ndetse na za Nyaruteja.

Ese wowe iyo witegereje iyi miti ubona ituruka hehe? Ese wowe iyo utekereje aho bayikorera wumva ko hashobora kuba hari imashini nk'amarobo? Oya ibyo si byo ni abantu nkawe!

Inyubako nini cyane iherereye kwa muganga, yubatse mu buryo bw'amayobera bitewe na kamera zihari, abenshi batekereza ko hari ibintu byinshi abayubatse bazirikana ko bishobora kuba byakwangizwa n'abahagenda nubwo ari kwa muganga.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, usanga kuri ubu bitakigombera ko bakoresha ibikoresho gakondo, haje ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho ucomeka ku muriro, waba ushaka gukora imyitozo ijyanye no kwiruka ugahagarara mu mashini ikabigufashamo.

Icyumba giteguye neza harimo uburiri, harimo intebe, harimo amasahani, harimo akabati ndetse yewe hashobora kuba harimo n'ibiryo, gusa ni icyumba cyo kwa muganga, ahari ni icyumba abarwayi barwarizwamo n'abarwaza babo.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ifite inkingi ndende ndetse na jaride iteye amabengeza, jaride iteyemo pasiparumu ifite indabo zicunze kuko hari umupuranto ubikora buri cyumweru.

Inzitiramubu ziri mu cyumba cy'abarwayi, n'uruhande rurimo ibitanda bishobora kuba birenga cumi na bitandatu buri murwayi ashobora kuba yabona icyo aryamaho kandi akisanzura, ndetse yanamanura izi nzitiramibu umubu ntubasha kuba wa muruma.

Igitanda gitwikirije agatambaro k'umweru ariko gisa n'ubururu, kiriho amapine ane ndetse mo hagati hakaba harimo ipine rya gatanu ariko ridakunda gukoreshwa cyane. Iruhande rwaho hari kasete.

Inzu itangirwamo inama ku bijyanye n'ubuzima, haragaragara ivaze isize ibara ry'umutuku iteyemo igiti kimeze nk'umukoni, ku ruhande rwacyo hari akajaride karimo indabo zitandukanye, hari umupolisi uri gucunga umutekano.

Inyubako ndende iriho ibyapa bigiye bitandukanye, yereka abarwayi aho ba ugomba kujya niba urwaye amaso bakaba bakubwira ngo uranyura aha ngaha, niba urwaye ibitsike cyangwa se ingohe nabwo bakubwira ngo uranyura aha ngaha.

Icyumba cyo kwa muganga gishasheho agatanda kariho ishuka y'icyatsi cyumye, iruhande rwayo hariho utwuma tuzana ubukonje iyo hashyushye, hasi yaho kandi hariho aho ushobora gukoropa amazi akanyura atabaye ikidendezi.

Farumasi icuruza imiti ikaba iherereye mu Mujyi wa Kigali i Kanombe, yitwa Mediasor Pharmacy. Iyi ngiyi ikaba icuruza imiti bitewe nuko na yo ifite abaganga bazobereye kandi bafite n'ibyangombwa.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimwo imashini urebye hejuru witegereje ubona harimo amabati agiye arimo imirongo myinshi, hari n'amakamera kandi ya sisitivi kamera, aya ngaya akaba afasha gucunga abashobora kuza kwa muganga birwaje kugira ngo babone uko bahiba.

Umugore uryamye areba hejuru, biragaragara ko yaje mu cyumba cy'aho ababyeyi bategerereza, gusa arimo serumu, ashobora kuba yagiriye ibibazo ku nda atwite.

Mu nzu yita ku bafite ibibazo by'ubumuga ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye by'ubuzima ariko by'umwihariko abasheshe akanguhe, bose bitabira buri gihe. Abari kubaha ikibwirizwa cyangwa se uko bashobora kwitwara mu bihe byabo imibiri iri gutakaza imbaraga, bambaye udupfukamunwa yaba umugore ndetse n'umugabo.

Umuganga uri mu cyumba wenyine, arimo aragenzura ko nta kintu na kimwe gishobora kuba kiburamo kugira ngo ambulance niramuka izanye umurwayi w'indembe, ataza guhura n'ikibazo cyo kuvuga ngo "Ese iki cyumba ko kidateguye turabyifatamo dute?"

Yambaye imipira y'icyatsi cyumye, aho ari kunyura hari inkingi ndetse n'ibitanda by'abarwayi, buri gitanda kiriho inzitiramubu irinda umurwayi kuba yarumwa n'umubu ari mu bitaro kandi na bo birirwa bakangurira abantu mu biturage kurwanya Malariya.

Inzu nini cyane igaragara nkaho ari inzu y'imikino bitewe nuko hasi hari tapi y'icyatsi kibisi cyane. Harimo imirongo y'umweru isa naho ari iyo mu kibuga cy'umupira, oya nako nshobora kuba nkabije, ariko imirongo nubwo atari iyo ikibuga cy'umupira, irasa naho ari iya tennis.

Umugore bigaragara ko ari umuganga, ari mu cyumba ababyeyi babyariramo, gusa ari kumwe n'akana konyine ari ku kitaho nibwo kamaze kuvuka, yambaye ga ebyiri gusa ntabwo ushobora kubona nyina ahari.

Umuganga w'umusatsi umanuka ugakora mu mugongo, yambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa k'umukara, amaherena ari mu binyampande by'impande eshanu, iruhande rwe hari imashini ya desktop ari kugenda akirikaho.

Inyubako nini cyane bigaragara ko ari inyubako ya leta, yubakishijwe ibirahuri, ni inyubako ya etaje, harimo ibendera ni cyo kigaragaza cyane ko ari inyubako itari iyigenga, aha ngaha usanga akenshi isuku ihari byagorana kuvuga ko atari kwa muganga.

Icyumba cyahariwe kubikwamo intebe z'abafite ubumuga, usanga akenshi ibitanda zinabikwaho na byo biba bifite udupine nk'uko izo ntebe na zo ziba zifite amapine acunga abo barwayi badashobora kwigenza.

Mu karere ka Musanze mu cyahoze ari Perefegitura ya Ruhengeri, uhasanga ibitaro ku buryo ibyo bitaro byita ku barwayi batandukanye. Ni ibitaro guhindurira izina byagoranye bikomeza kwitwa Ibitaro bya Ruhengeri bitewe n'uko izina ryari bwite.

Umuganga w'umuzungu wambaye ipantaro ndetse akaba yambaye n'itaburiya y'umweru, inyuma kuri iyo taburiya hari agapira cyangwa se agashushanyo k'umuhondo karimo karagaragaza ibyo uyu muganga akora.

Aha biragaragara ko ari ibitaro byita ku ndwara z'amaso, iruhande rwabyo hari inyubako ndende kandi hari amapave agiye azengurutse, ifite urugi rw'umutuku rurimo ibipande bibiri.

Icyumba kigari kirimo ibikoresho binyuranye bya siporo, harimo ameza ariho agatambaro gafite ibara ry'ikirere, hariho kandi n'indobo isa naho irimo amazi ushobora gukaraba mu gihe ibyuya bibaye byinshi.

Si iby'abagore gusa kujyana abana kwa muganga, kuko nk'aha ngaha umwana yajyanywe kwa muganga na se, umuganga icyo ari gukora, arimo aramuhumuriza aramubwira ati ihangane urushinge ngutera sinkubabaza, ati niba ufite ubwoba uhumirize urajya kwicura byarangiye.

Umusore uri hagati y'imyaka mirongo itatu na mirongo itatu n'itanu, avuye muri siporo yambaye itiriningi y'ikabutura ndetse n'umupira uriho akamashini, ahagana ku kuboko kw'ibumoso ari nako kuboko ari gukoresha anywa amazi.

Umugore w'umuganga ufite ibikoresho byose byifashishwa n'abaganga batanga ubutabazi bw'ibanze, afite mudasobwa ari kugenda ashyiramo amakuru y'ibyo yagiye ahura nabyo kuva mu gitondo kugera akazi ke agasoje nimugoroba.

Inkweto y'umukara iriho icyapa kigaragaza uruganda rwayikoze kitwa bato, ni imwe mu nkweto zigaragara ko uramutse utariye ibitera imbaraga kuyiterura bidashoboka, kubera ko ushobora kuba wagenda ntuyikure hasi.

Ibiganza bine, biri mu ishusho isa n'aho ari igishushanyo cyakozwe n'ikaramu, kitari ifoto, birimo biragaragaza uburyo ushobora kwita ku mubiri wawe ukora siporo, iz'intoki ndetse n'iz'amaguru, bikagendana, nubwo nta birenge turi kuhabona.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, biragaragara ko ashobora kuba akina umukino w'umupira w'amaguru bitewe n'uko imbere ye hari amakona ndetse na baro, n'ubwo ashobora kuba akina umupira w'amaguru ariko muri aka kanya ntiyambaye inkweto za godiyo.

Umugabo usanzwe utanga inama mu bijyanye n'ubuvuzi, afite imashini ye iteretse ku kabati gafite uturyango dutatu ndetse akaryango ka kane kakaba kadashobora gufunguka. Arimo arareba uburyo azaha amasomo abanyeshuri be yigisha gukora siporo.

Croix rouge ni umuryango wita ku barwayi ndetse n'abandi bantu bafite ibibazo by'ubuzima muri rusange ni umuryango w'ubutabazi ku Isi hose, aha hari umugabo uri gususumira uryamye ku kiringiti.

Umugabo ari mu masiganwa yo kwirukanka afite nimero y'ibihumbi bitanu magana atatu na kabiri, yituye hasi isiganwa ritaragera no mu cya kabiri, arangije ahita avamo ababishinzwe baza kumukura mu nzira kugira ngo abandi batamunyukanyuka.

Umugabo w'ibizigira ufite ubwanwa bwinshi cyane acongesha akanasigamo amavuta y'umusatsi, yambaye umukufe mu ijosi, yambaye agapira k'ubururu, arimo aranywa amazi bitewe n'uko avuye muri siporo yahagira cyane.

Umuntu uvuye muri siporo yahagiye cyane, afite furari y'umweru azinze mu ijosi, yambaye agashanete ndetse n'umupira urimo amabara atandukanye, ari kunywa amazi yahagira cyane ngo arebe ko inyota yashira.

Umuganga uri mu cyumba cyabugenewe kirimo ikizimya nkongi cy'umutuku kiriho akantu k'umukara naho ashobora kuba yacomeka, sinzi impamvu yinjiranye baro, umupira wo gukina mu cyumba cy'abarwayi, gusa biragaragara ko nta murwayi ukirwariyemo magingo aya.

Bande nini cyane ikozwe mu buryo bwa spardara cyangwa se papier genique. Niko izingazinze, kuyizingura nta kindi bigusaba uretse kuzana umukasi ukarebaba mu iteranyirizo, ubundi ugasa nk'usharuraho gatoya.

Umugabo wubatse umubiri afashe ku ikwisi, urebye akaboko ke ubona ko ari akaboko k'umusiporutifu koko, inzara ze zashingutsemo kubera kwirirwa arwana n'ibikuta, gusa afite ikizere ko zizongera kumera.

Arinanura ashaka gukora mu mugongo ariko wagira ngo harimo inkoni ntashobora kugerayo habe na gato! Yambaye kuteri z'umweru, afite isaha, afite n'icyuma kiri kumupima ngo cyerekane aho akaboko ke kageze akanyujije mu bitugu.

Ibikapu bibiri biri mu ubwoko butandukanye ariko byose biri mu mabara y'umutuku, hariho igifite umusaraba nk'uwa Croix rouge ariko hari ikindi gifite ibara ry'umutima rimanyuyemo kabiri, byombi hagati yabyo hateretsemo icupa ry'amazi.

Umugore n'umugabo bombi bambaye udupfukamunwa, umugabo yambaye agapfukanwa gafite ubururu bw'ikirere mu gihe umugore yambaye agapfukamunwa k'umukara, umugore yambaye umupira w'umukara, iruhande rwabo hari umusore ufite umusatsi w'umukara cyane.

Umugabo uri kunywa amazi mu gicupa kinini kandi kibonerana, ni amazi yavomye kuri robine abaturage begerejwe, kugira ngo ajye babonera amazi ku gihe, ari kuyiyahuza kubera ko avuye muri siporo zirenze ubushobozi bwe.

Amaronji atukurije cyane, umuneke uhiye uruhande umwe, uyu nguyu uwuriye wakumvamo amakakama, hariho kandi urusenda ururwo unaruriye nabi rwagushahura, iruhande rwaho hariho kokombure ebyiri zisa n'icyatsi.

Gukora siporo ni byiza ariko bigomba kugendana n'indyo ufashe kuko hari ibyo utakaza nk'amazi uba ugomba kongera kugarura ndetse ntiwakirengagiza ko iyo ukora siporo unatakaza isukari.

Abagabo babiri umwe ni umwarimu mu bijyanye na siporo yambaye ga afashe ku byuma, undi usa n'uwaje kwiga ahagaze imbere y'akantuza kazana umwuka ndetse yambaye n'ikabutura y'impari.

Atitaye ku bamuca intege abyukira muri siporo akirukanka cyane ibirometero byinshi. Iyo ageze aho yumva ananiwe aragaruka gusa ukurikije uko iki cyapa kiri aha kibigaragaza, kirerekana ko aka gasaraba ka Croix rouge, ku bamuca intege bo adakwiye kubaha umwanya.

Icupa ryamazi risa n'ubururu ripfundikishije agapfundiko k'ubururu, riri mu kiru cy'ikijiji gisa n'ubururu, aha ngaha hari akaboko karifashe gafite inzara ziteye verine.

Siporo rusange yahuje imbaga harimo abana, harimo abakuze ndetse bose bakaba bishimiye igikorwa kirimo kirahaba, witegereje hakurya nko muri metero mirongo itandatu harimo umupira wa basiketi.

Baratwereka urushinge rwo kwa muganga rugaragaza mili litiro icumi, uru nguru barushyiramo umuti bakagutera nk'uko byari bimeze mu gihe cy'ikinyingira ry'indwara ya Kovide cumi n'icyenda, aho buri muntu byibura yahabwaga inkingo eshatu.

Umukobwa umeze nk'umukaratika yashinze ivi arangije ashinga n'akaguru, ku buryo akaguru yashinze gashoboka gakoze imfuruka ya dogere mirongo itandatu n'eshanu, mu gihe amabere ye na yo yitunenze mu turega.

Umukobwa wambaye ipantaro y'ubururu, yambaye inkweto za supurese, ubona ko arambuye akaboko, mu gihe akandi gafashe inyuma ku kirenge, umukondo we uri hanze ariko amabere yo yagerageje gukora ibishoboka byose ayahisha mu turega.

Aha ngaha baratwereka uburyo ushobora kuyitaho ukora imyitozo ngororamubiri, aho utagomba gukora imyitozo irengeje ubushobozi bw'umubiri wawe, ikindi kandi ugakora imyitozo igendanye n'ibyo uza kurya.

Umusore uri muri siporo yambaye ibikweto by'ibibiswi yambaye ikabutura y'umukara igera mu mavi, ivi rye ntashobora kurigonda ngo akaboko kabe kakoraho inkokora. Biragaragara ko ashobora kuba amaze igihe atazikora.

Umugabo arimo aripfuka ku rutoki, bamuteye agashinge bamukingira ngo barebe ko nta SIDA arwaye none amaraso yanze gukama, kugeza ubwo umuganga yahisemo kuzana bande ndetse n'ibipfuko supuradara agapfuka.

Amacupa atatu arimo imiti gakondo yanditseho ijambo Stop pain bivuga kugabanya ububabare, ni imiti yakozwe mu gicunshu, umuravumba, bashyiramo avoka n'igikakarubamba.

Inanasi n'amaronji, imineke ndetse ugashyiraho na sereri, hariho kandi watermelon, inanasi ntiyeze neza, iyi ngiyi uyiriye nabi yagushahura kuko iryana mu menyo.

Umukobwa ukunda gukora imyitozo ngororamubiri urabona ko umubiri we uhagaze neza cyane. Gusa kuri ubu muri iyi minsi hari imvugo isa n'aho yamaze kwinjira mu bantu, aho umukobwa umubwira gukora imyitozo ngororamubiri akamubwira ngo ningira impfundiko nzabona umugabo gute.

Aha turahabona ipompo ishobora kuba yazimya umuriro, nubwo nanone utayita ipompo izimya umuriro kuko waba ugiye kwibeshya cyane, bijya kugira forumire zimwe ariko iki ni icyuma cyifashishwa muri siporo.

Umubikira ageze ahantu asanga umwana arimo aratakamba avuga ati "Nkeneye ubufasha". Yari ari kumwe n'umuzungu utumva ikinyarwanda, barahagarara atangira kumva ibyo umwana amubwira na we abisobanurira umuzungu bari kumwe.

Imiti yongera imbaraga ibinini cyangwa se inshinge, usanga ari bimwe mu bitemewe mu mupira w'amaguru aho usanga umukinnyi wabinyoye iyo aramutse afashwe akabihamywa, ahanishwa kumara imyaka ine adakina umupira.

Ibikapu bitatu bitandukanye, igikapu kimwe kirafunze ntiwapfa kumenya ibirimo kiri mu ibara ry'umutuku n'amabara y'umukara ku ruhande hakabaho akabara k'ubururu, icyo gitandukaniraho n'ibindi nuko nta kabara k'ubururu bifite.

Umukobwa wakoze ibintu n'abahungu badashobora gukora kubera ko yafashe ukuguru kumwe araguhina arangije afata ukundi arakurambura, arangije ashyiraho amaboko ye yombi, hanyuma arigonda ku buryo yakoze ikiziga.

Umugabo wagiye muri jimu gusa arimo arakora amaboko, urebye utuguru twe ni utunyafu ariko amaboko afite biragaragara ko wagira ngo amashereka yose yonsa ni mWo yigiriye.

Umugabo wicaye mu biro bye, aho atanga imyitozo ngororamubiri n'amasomo agendanye nayo ku babyifuza, akabereka imyitozo bakeneye gukora niyo bafitiye ubushobozi, kugira ngo hatagira ukora irengeje imbaraga z'umubiri we.

Umukobwa warambuye amaboko ye yose nta rucakwaha na kumwe yigirira, imbavu ze zose zirabarika yambaye isengeri y'umukara, ipantaro y'umukara yicaye ku kintu kimeze nka matela kiriho na kuvurori.

Aha haragaragara ibintu byinshi cyane biteretse ahantu hamwe. Haragaragara bande ishobora kuzirika mu gihe wavunitse, hagaragara pomade ushobora kwisiga mu gihe na bwo wavunitse ikaza yunganirana n'iyo bande.

Umuganga wambaye itaburiya y'ubururu ndetse na baje mu ijosi, baje ikaba iri ku gashumi k'ubururu, ari kugorora umuntu waje amugana bigaragara ko ashobora kuba yagize ikibazo cy'imvune bitewe no gukora imyitozo ngororamubiri irengeje ubushobozi bwe.

Umugabo usoje siporo, yambaye isengeri y'umukara, biragaragara ko akunda guterura ibyuma, yagiye mu nzu z'amasiporo. Kubera ko afite akaboko katangana n'akaguru ke, kandi abaganga ndetse n'inzobere mu bijyanye no gukora siporo, batugira inama yo kwitondera siporo dukora, kuko zishobora kwangiza umubiri.

Yarihanukiriye ati nanze agasuzuguro ahita atangira gukora imyitozo ngororamubiri, bitewe n'uko yagiye kwa muganga bakayimwandikira, akavuga ati iyi niyo nshuro ya nyuma ngeze aha ngaha nje kwivuza, aho kugira ngo bampe byibura parasitamoro bakantegeka kujya kwirukanka

Abagabo babiri bari muri siporo, umwe arahagaze yambaye ikoboyi ubona ko yaje muri siporo bisa n'aho bimutunguye. Mu gihe undi we ari kuyikora bisa n'aho nta kibazo na kimwe yishisha, ni umuzungu ufite amaboko maremare.

Umugabo wambaye imyenda ijya kuba umutuku wijimye, yambaye igikweto cy'umuhondo kirekire kandi gisa ni'kireremereye, afite umusatsi muremure ari muri siporo, ageza aho ahumeka cyane, arangije aca bugufi ngo yongere asubire mu buzima busanzwe.

Umugabo uvuye muri siporo afite agakomo k'ubururu yambaye ku kaboko, afite igicupa cy'amazi kinini arimo aranywa, yambaye isengeri y'umukara, ubona ko arushye cyane yaguye agacuho, bisaba ko namara kuruhuka ntabyuya agifite ajya muri dushe akoga.

Si byiza kwirirwa wicaye umunsi wose, ushobora kugira gutya waba usoje akazi kawe ukajya muri siporo, aho ushobora kurambura ibiganza, ukarambura amaboko, ukarambura ibiganza ariko mu bundi buryo, ushobora no gufata ku kagombambari kawe byose bikagufasha.

Icunga risatuye, urutoryi rutukurije, iruhande hariho urusenda, hari ahagaragara ibisa n'amashufure ndetse hariho metero ipima uburebure, iruhande rwayo hari utwuma duterurwa bakora imyitozo y'amaboko.

Umugabo wavunitse akaboko k'iburyo akaba ari kwikanda, yambaye umupira w'umweru n'ishanete mu ijosi, anambaye kandi impeta mu kaboko k'ibumoso igaragaza ko yashyingiwe.

Umusore uhagaze mu cyumba gitangirwamo inyigisho za siporo, yambaye ga ukuboko kumwe, yambaye agapira karimo amabara ya gisirikare, inkweto yambaye rumwe yararuhengetse bitewe n'imiterere y'kirenge cye.

Umusore wateye umugongo abamureba, arimo arakora siporo ananura amaboko ye, ukuboko kw'ibumoso yagufashe agufatisha ku nkokora y'iburyo, arangije amanura ikiganza agishyira munsi y'urushyi rw'akaboko.

Umugabo urambuye akaboko ashyizemo akantu baterura bakora imyitozo ngororamubiri, arangije afunga igipfunsi. Iruhande rwe hari umugabo uri kumuhugura amubwira ati "Dore ibi ni byo bakora, ibi ni byo badakora, ibi nubikora umubiri wawe uzakomeza kumererwa neza."

Abagabo babiri, umugabo umwe aryamye ku ntebe imufasha gukora imyitozo ngororamubiri, ni intebe ifite amapine uruhande rumwe, ahandi akaba ari intebe acunga akoresheje ibirenge bye kugira ngo itaza kuba yanyeganyega akikubita hasi.

Icyumba kigari kandi gishobora kwifashishwa n'abantu benshi cyane, gitangirwamo inama z'uburyo wakora siporo urwana ku mubiri wawe kugira ngo udahura n'uturwara twa hato na hato.

Icupa ry'amazi ya Nile riri kumwe n'icupa ry'amazi y'Inyange, hari irongi risatuye, hakaba urusenda, hari intoryi ndetse hari na metero y'umugozi ishobora gupima uburebure.

Umukobwa wambaye agapira gato, akaba yambaye n'ipantaro y'umukara imisatsi ikaba irimo irakora hasi kuri tapi, umukondo we yawushyize hanze bitewe na siporo arimo arakora.

Umugabo usa nka Mukansanga Salma, umusifuzi Mpuzamahanga w'Umunyarwanda wari mu gikombe cy'Isi muri Qatar mu waka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, ari gukora siporo afite utunweri ndetse yambaye n'iherena, akaboko ke kariho tatuwaje nyinshi.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri yambaye isengeri ifite ibara ry'igitaka, afite pinya ku kaboko kamwe kubera ko ari ko kari kugaragara ariko birumvikana ko pinya idashobora kuza mu kuboko kamwe, bitewe n'uko afite no mu gituza hagari.

Inzu itangirwamo inama ku bijyanye no gukora siporo, harimo ibishushanyo by'abantu bigiye bitandukanye, iby'abagore ndetse n'iby'abagabo. Harimo kandi, utwuma ushobora kwifashisha mu gihe ukora siporo, igendanye n'ubushobozi bwawe.

Umukobwa uri kwinanura yambaye agasengeri gasatuye mu mugongo, yahuje amaboko ye ibiganza bye bisa naho bikoze inguni ya mpande eshatu, umusatsi we uramanuka ugakora mu bitugu ho gato, yambaye ipantaro kandi afite n'amataye.

Umugabo wambaye agakomo n'impeta mu rutoki rwa musumbazose, arimo arakora siporo, afata ku kibero cye cy'ibumoso, aho ipantaro yambaye munsi y'ivi harimo akarongo k'umweru. Ibi byose bikaba ari ukukubwira ngo "korera siporo umubiri wawe, nawe uzakwitura kutarwara".

Umukobwa uri muri siporo yambaye amasogisi ya Nike n'inkweto za Nike ndetse n'umupira n'uwa Nike, mu mupira harimo agakora k'umweru, afite ikintu mu ntoki ateruye na cyo kiri kumufasha gukora siporo.

Umugabo usa n'uwavunitse mu kizigira k'iburyo, afite agatambaro k'ubururu karimo barafu arimo arakoho ngo yumve ko uburibwe bwagabanuka, gusa arimo arashinyiriza cyane.

Umukobwa wambaye agasengeri witeye furari y'umweru mu ijosi, yambaye umukufi afite akaboko yahinnye gakora imfuruka ya dogere mirongo ine n'eshanu, icupa ari kunyweramo amazi ririmo agafuniko k'ubururu.

Umusore n'umukobwa bari muri siporo, umukobwa yambaye ikabutura y'umukara irimo uturongo tw'umweru, mu nda nta kintu gihari uretse akarega yambaye gapfutse amabere.

Mu mikino yo gusiganwa ku maguru usanga abantu birukanka ahantu hanini ari abantu bashobora kuba bagenda gake gake bitonze hanyuma kaza gusiga abandi ariko abiruka muri metero ijana bisaba gukoresha igihaha ku rwego rudasanzwe.

Uyu mugabo barimo baramukanda mu ivi, aho intege ziri hari agatambaro k'umweru, uri ku mukanda ari gukoresha ikimeze nk'ubururu ariko na cyo gishobora kuba kirimo barafu.

Yego gukora siporo ni byiza ukubaka umubiri ugakomera, gusa kubaka umubiri byonyine ntibihagije, ukeneye no kugira imbuto cyangwase n'ibindi biribwa ufata byose bikagufasha kugendera hamwe, umuneke, ikinyomoro, itunda, byose ni ingenzi.

Umuganga w'umugore utambaye itaburiya wambaye umupira uriho ikirango cya Nike n'agapfukamunwa, kariho ikirango cy'ikipe ikina Basket muri Leta zunze ubumwe z'Amerika n'uwaje kwivuza nibyo yaje yambaye.

Inyanya, ishu, seleri, avoka ndetse n'igitunguru utibagiwe na gaperi ni bimwe mu bishobora gutuma umubiri wawe ukomeza kumera neza mu gihe wakoze siporo kuko uba watakaje imyunyungugu n'amasukari byinshi.

Umukobwa usa n'abahungu, ukora imyitozo ngororamubiri ku buryo iyo arambitse inda ku muyaga, kumugarura bishobora kukugora, ari kunywa amazi, hanyuma ukuboko yakoresheje anywa amazi, kwakoze imfuruka ya santimetero nka mirongo irindwi.

Intebe icuritse imeze neza cyane, ubona ko ifite ubuso bugera kuri santimetero ijana na mirongo inani, mu gihe hasi ari santimetero mirongo itandatu n'umunani. Oya nako nshobora kuba nibeshye, ni santimtero ijana n'imwe, ahandi ni santimetero mirongo itandatu n'umunani. Iruhande gato mirongo icyenda n'imwe.

Iyo witegereje aha ngaha ubona uyu mugabo afite imyaka isaga nka mirongo itatu n'itanu, yambaye isengeri iri mu ibara ry'igitaka cy'igitare, incakwaha ze nta na rumwe ruhari ubanza yogosha buri munsi.

Imiti myinshi usanga abayitunganya bakubwira ngo niba wiyemeje kuyikoresha nk'ukoresha imboga, ni byiza ko izo mboga zawo uziteka ariko ukarya zitaratakaza ibara ry'icyatsi kuko iyo zatakaje ibara ry'icyatsi, intungamubiri n'ubudahangarwa bwo kuvura na byo biragendana.

Mu gihe u Rwanda n'isi muri rusange bikomeje gukataza cyane mu kijyanye no kuba byarandura indwara by'umwihariko bagashyiraho n'uburyo bwo kwirinda iz'ibyorezo, dukomeje kubona abavumbuzi benshi bakora imiti gakondo kandi igatanga umusaruro.

Kera iyo umwana yakororaga cyangwa se bakabona afite umuriro, bafataga amababi y'igicunshu nk'atatu, bakayoza, bakayavuguta neza, bararangiza bagashyira ku kayiko bakamuha akanywa, bakagerageza ibishoboka byose ku buryo bamumuha bike ku buryo bitamugiraho ingaruka.

Icyatsi kirandaranda, gusa iyo kikiri gito kiba kimeze nk'ibinyomoro, amababi yabyo akaba ateye mu bwoko bw'imisave, iki ngiki gishobora kwifashishwa gikorwamo imiti gakondo yavura indwara zitandukanye zirimo inzoka ndetse n'umutwe.

Aloe vera gel ni umuti ukunze kugaragara nk'uwakozwe mu gikakarubamba, ukunze kuba ufunze mu macupa atandukanye, hari aho uzasanga uri mu icupa ry'umweru, rifite agafuniko k'ubururu ndetse hari naho uza asanga rifite agafuniko k'umukara mu icupa ry'umuhondo.

Umuravumba winajwe kugira ngo haboneke ingemwe zo gukwirakwiza mu baturage ndetse na ba rwiyemezamirimo bashobora kuvuga ko bagiye guhinga umuravumba bakajya bawugemurira inganda ziwutunganya.

Amababi ameze nk'ay'imisave ndetse n'ibibabi by'imikindo byose bihuriye hamwe mu ishyamba, ni byo bigaragara cyane ariko si uko ari byo bihateye byonyine ahubwo ni uko ari byo bishobora gukura bikazamuka ibindi bigasigara hasi.

Imiti iva mu miravumba, mu gicunshu, umubirizi, igikakarubamba hari n'abadatinya gushyiramo inturusu za mayideni ko zivura inkorora, bayihurije hamwe bayishyira mu gacupa gasa n'umukara, barangije banagerageza kuvanamo ibinini nyabyo.

Abenshi ntibazi ko umuravumba ushobora kuyanga ugatanga imbuto zivamo ingemwe, ni byo rwose ntakwibeshya kurimo, umuravumbu urayanga ku buryo ushobora no kuba watunganywa neza ingemwe zawo zigakoreshwa zivuye mu bihoho.

Umuti uri mu gicupa cy'umweru gifite ibyapa birimo amabara y'iroze ndetse n'ikigina, handitseho amagambo y'Icyongereza ngiye kuyasesengura sinabyiviramo bizasesengura bayirabyo.

Ururabo rwakuriye mu byatsi byinshi ariko rukiyuburura rukazamuka rukabishumba byose rufite uturabo tubiri, kamwe karapfunduye utundi natwo turi kugenda turusatira, akanyuma y'aho ni ko kakiri muri nyina.

Aha haragaragara imizi imeze nk'iy'inturusu, hirya gato hari indobo irimo ibimeze nk'ibishishwa by'ibitoki, hari akababi kameze nka seleri gusa sinzi niba ari seleri koko.

Gukira ntabwo bigomberara kunywa imiti myinshi cyane ya kizungu, ushobora no kunywa imiti gakondo ariko ukagerageza kunywa mike, hanyuma ukarenzaho n'agasiporo ka buri munsi iminota nka mirongo itatu n'itanu, ukongera kugarura ubu.

Ibyatsi kera wasangaga udukoko tubitinya ariko bitewe n'uko natwo tugenda twiga amayeri, tugenda tubishonaho gake gake ku buryo nk'ikingiki gisigaranye amababi make cyane ugereranje n'ayo cyakagombye kuba gifite.

Indobo nini cyane irimo umuti gakondo, ubundi dusanzwe tumenyereye ko imiti nk'iyi ngiyi ipfunyikwa mu ducupa dutoya dusa nk'utubamo imikebe ya pomade ariko aha ho babishyize ku rundi rwego bawushyira mu ndobo.

Byagenze bite ngo igikakarubanmba kisange ari kimwe mu bintu bishobora kuba bizaba bivugwa cyane bikorwamo imiti itandukanye, ushobora no kugihekenya ugira ngo ukire gusa, utagombye kujya ku kigura aho cyatunganyijwe.

Uburoso bubiri buri mu kimeze nk'agakono ariko kakaba ari aka kizungu bitewe n'uko gateye irangi ry'umweru kandi ubundi nta nkono iterwa irangi. Iruhande rw'iyo nkono harimo akandi kavaze gateyemo igikakarubamba.

Icyayi kirimo udukombe ubona ko hariho umuravumba imbere yabyo, icyitwa te kigira utubabi duto duto ariko gihumura nicyo cyarifashishijwe mu gutegura uyu muti, ugitegurwa utarashyirwa mu macupa.

Ibihumyo cyangwa se ibyobo bitewe n'uko ubyita, bitewe n'uko ururimi rugira imvugo yarwo bitewe n'agace, iruhande rwabo hari imegeri, hari indagara ndetse n'amaronji, byose bigirira umubiri akamaro.

Igitunguru akenshi na kenshi usanga cyifashishwa mu kuryoshya indyo, aho usanga igitunguru kinini cyane gishobora gutekwa inshuro ebyiri. Aha ngaha baratwereka ko uramutse ugifashe ukakivanga n'indimu, igisate igisate, bishobora kuba byatanga umuti wavura indwara.

Utujerekan tubiri tw'imihondo turimo amagambo yanditse mu ibara ry'umukara ndetse tukaba dupfundikije imifuniko y'umutuku, turi imbere y'imibare cumi na gatanu rimwe, imbere yaho hariho inyuguti ya F.

Umuti gakondo ukoze mu bimera bitandukanye, aho uvura indwara z'uruhu ndetse ukaba ushobora no kwifashishwa mu gukiza ibiheri na byo byibarirwa muri izo ndwara z'uruhu ariko hari bya biheri byitwa ibihara.

Amaji menshi cyane ari mu ma etajeri, gusa si amaji gusa, kuko hejuru yaho hari inzoga z'imbutabuta, izi zica nabi. Leta yagiye ikora ibishoboka byose ngo izirandure, gusa abazenga na bo amayeri ni menshi.

Icupa ry'umweru ririho icyapa cyanditseho amagambo agaragaza ko uyu muti ushobora kuba waravuye ku bifitanye isano n'inzuki, gusa ku ruhande barakwereka ko atari ubuki bwonyine bugize uyu muti kuko n'igikakarubamba ari kimwe mu byafashishijwe.

Serumu ishobora guterwa umurwayi ufite ibibazo bitandukanye kugira ngo ibe yamwongerera ububasha bwo gukomeza gutera akuka, iyi ni serumu batubwira ko yakozwe mu miti gakondo.

Ibyatsi byifashishwa mu buvuzi ariko bikaba bikoreshwa cyane mu buvuzi bwa gakondo, abenshi bitewe n'iyobokamana ndetse no kwinjira amadini cyane iyo uvuze ubuvuzi bwa gakondo bagufata nk'umupagani kandi na bwo burakora.

Igiti kishwe n'izuba kirumakara cyane ariko gikomeza guhanyanyaza kuko magingo na'aya ngaya kiracyahari kandi ubona ko nta cyo kiraba, iruhande rwacyo hari ibyatsi, umukenke ndetse n'amashami yabyo agenda afasha uwo mukenke gukura neza.

Ni byiza kubungabunga ibidukikije ndetse hafi y'urugo tukahatera indabo kuko uretse kuzana umwuka mwiza, umwuka wazo ushobora no kuba waba umuti ukatuvura bitagombeye ko tujya kwa muganga, bitewe n'uko haba haguyeho udusimba dutandukanye nk'inzuki n'ibivumburi biba bije guhova.

Mbere y'umwaduko w'abazungu nubwo ubuvuzi ushobora kuba wavuga ko bwari buciriritse ariko n'ibyorezo ntibyari byinshi, ku buryo igicunshu n'umuravumba byashoboraga guhangana n'indwara icyo gihe zari zihari ariko iyo SIDA ikimara kugera ino aha, byaragoranye ko imiti igabanya ubukana itabonetse, utahitanwa na yo.

Amacupa atatu ateretse mu buryo buteganye ariko busumbanamo mu buryo buteretse kuri esikariye, ni amacupa yose agaragaza imiti gakondo, umwe ushobora kuba ari umuti gakondo w'Umurundi undi akaba Umutanzaniya, undi ukaba Umugande.

Umuravumba ni icyatsi ushobora gutema nticyume ahubwo kigashibuka kubera ko uretse no kugitema nubwo izuba ryava uko ryaba rimeze kose, aho imvura igwira kirongera kigashibuka, bitarindiriye ko imbuto zacyo zimera, nubwo na zo zishobora kuzamuka nta kibazo.

Imiti gakondo ntiba mu Rwanda gusa, kuko mu bihugu by'abaturanyi, nka Tanzania, Uganda, ndetse na za kenya, aho ngaho naho iyo miti ibayo. Abagiye batembererayo, baza batanga ubuhamya bavuga ko, hari ibyo dukoresha mu Rwanda, babonye muri ayo mahanga.

Umugabo wagiye mu ishyamba agiye gushaka umuti gakondo ntekereza ko ari umuravumba wari wamujyanye, yayobye atangira kujya kuhira imihoko kandi nta kintu na kimwe ishobora kuba yafasha umuntu urwaye inkorora. Gusa aramutse ahindukiye akareba ruguru ye gato yabona ibyo byose yifuza.

Abana bavutse nyuma y'umwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu, abenshi usanga batazi indushyo kubera ko ibirushe bikoze mu byuma bisa naho byiganje cyane, icyakora imyuku yo barayizi kubera ko nta kintu na kimwe ushobora kuba wakora ngo ukwepe ibijyanye no guteka imitsima, yaba iy'akawunga n'ibindi.

Akabati karimo ibinyobwa by'ubwoko bunyuranye, harimo amata, harimo fanta ndetse n'amazi, amazi yiganje ni ay'Inyange mu gihe fanta zigaragaramo ni mirinda.

Etajeri ifite imyanya itanu, umwanya wa mbere urimo amacupa abiri y'umukara afite ibyapa by'imihondo, umwanya wa kabiri urimo igicupa kinini cy'icyapa cy'umuhondo, naho indi myanya itatu isigaye ibirimo byose birasa.

Kera ibihoho byashyirwagamo imbuto za avoka kugira ngo bazabone uko bazibangurira hanyuma zizere mu gihe cya vuba, gusa kuri ubu siko bimeze kuko n'indi miti nk'imiravumba na yo isigaye yinazwa mu bihoho.

Amabara menshi cyane atandukanye aturuka ku bimera, ashobora kuba yatuma inzuki cyangwa se n'utundi tunyamaswa tuza guhahamo ndetse mu gihe tuhageze tukaba dushobora gusigamo ubundi bunyangingo bwatwo ku buryo imiti iboneka.

Alovera jeri ni umuti ukorwa mu gikakarubamba, bakavangamo inyanya kandi ntekereza ko ukurikije uburyo bigaragara n'uburyo ababinyoye bavuga ko bisharira, hashobora kuba haba harimo n'igicunshu cyangwa se umubirizi.

Mu isoko ry'imbuto n'imboga harimo inyanya, intoryi ndetse n'ibindi. Iruhande rw'aho gato hari akayetajeri karimo amavuta y'igihwagari apfundikiye mu bicupa binini cyane. Ibi byose bikaba bishobora kwifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Ikimera gifite amababi ameze nk'ay'ikawa nubwo ari bwo kikizamuka, kirazamuka gifite uruti rurerure ukibaza niba gishobora kuzabyibuha bikagushobera. Gusa nanone ubugabo si ubutumbi uko cyaba kingana kose gishobora gukora umuti.

Icyatsi gisa n'umwishywa bitewe n'uko na cyo kirandaranda, kiragaragara ko gishobora kuba cyatunganywa, kikavanwamo umuti mu gihe cyaba kijyanwe mu ruganda kugira ngo abakinywa bazabashe kugira ingano y'umuti utakwangiza ubuzima bwabo mu gihe wabaye mwinshi.

Icyatsi gifite amababi nk'ay'imyumbati, ushobora kukireba ukagira ngo ni isombe kuko na byo biri mu ubwoko bumwe ariko isombe yo ibibabi byayo biba bigandaye. Imyumbati na yo, ubu usanga udukoni twayo ari duto. Ariko iki cyo biranyunyutse kandi si birebire nk'imyumbati.

Iyi miti igaragaramo amapapayi, harimo imiteja, harimo ibitunguru, byose biba byahurijwe hamwe ngo bishobore kuba byagira icyavamo. Urebye neza ubona harimo n'ibiri mu dukoko ndetse no mu dukono.

Ishu rishobora kweraho ishu ryo kuribwa ndetse rikeraho n'ikitagira icyo kimara gusa abenshi bakunda kuvuga ngo irimeze neza, niryo bita umushu naho irimeze nabi kikaba ari intabwa.

Icyatsi kimeze nka gaperi, gusa amababi yacyo akaba ashobora kuba yanasanishwa n'ay'intoryi, kirimo giteye mu bintu bisa naho ari imituku, birashoboka ko ari ubutaka busa ko, barangije bagisasiza ibyatsi baracyuhira.

Umuravumba uvanze n'umubirizi ndetse n'igincucu byahurijwe hamwe bikora umuti ushobora kuvura indwara z'ubwoko bunyuranye. Byombi babifungira mu macupa barangije bashyiraho n'ibyapa bigaragaza ko iyo miti iva mu bimera.

Mu cyanya kirimo ibyatsi bisa n'icyatsi kibisi, harimo n'ibyumakaye bitewe n'uko bari bageze mu gihe cy'impeshyi gusa nanone ibi byose bishobora kwifashishwa bikorwamo imiti, yaba ibyumakaye ndetse n'ibikiri bibisi.

Umuravumba urasharira, urakarata ndetse uranarura. Kuwuha umwana si ibintu biba byoroshye. Cyakora uko ubuvuzi bugenda butera imbere, nubwo ishobora kuba ari iya gakondo, itunganywa neza, igashyirwa mu macupa, ikaba yabikwa igihe kirekire.

Ndimo ndahabona icyatsi kirandaranda ushobora kuba wakwitiranye n'umwishywa. Kera mu bitabo byo hambere habaga harimo interuro igira iti''Umwishywa ni icyatsi kirandaranda'' ibyo babivugaga bageze ku gihekane shywa.''

Abantu uruhuri rwabo, bari imbere y'imodoka ishinzwe gutwara ba mukerarugendo, inyuma y'aba bantu bose baragaragaza ko hari inanasi zihahinze, iki akaba ari igihingwa ushobora kuba wakwita mbaturabukungu.

Ubundi amata niyo dusanzwe tumenyereye ko ashobora kuba yapfunyikwa mu tuntu tw'udukarito, gusa n'imiti gakondo by'umwihariko ikoze mu ibincuncu n'imiravumba nayo basigaye bayipfunyika mu tuntu tumeze nk'udukarito mu mwanya wo kuyishyira mu macupa atanabora.

Aha ngaha hari icyitwa Akagera Medicine. Aha bashobora kuba batanga imiti gakondo batunganyije mu bimera biboneka hano iwacu mu Rwanda ndetse n'imahanga ku buryo ubinyoye biba byizewe ubuziranenge bwabyo.

Igisubizo cy'umuryango Revive, uyu ni umuti ukorwa hagamijwe kugabanya ibyago byinshi cyane, harimo kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha, gukumira indwara zifata porositate n'ibindi byinshi.

Mu ishyamba uhasanga ibitovu, ibitovu ni ibyatsi bigira amababi ahanda y'ibicumu, ku buryo bakikujombye wahura n'ibibazo, muri Bibiliya bavuga ko Imana itarahana Adamu na Eva, bamanyuye itunda, ibi bitovu bitari bihari.

Etajeri irimo imyanya itandatu irimo ibintu bitandukanye, umwanya umwe urimo urujya n'uruza rw'abantu bagiye guhaha imboga n'imbuto, urundi rurimo abantu bari guhaha imyenda, ndahabona kandi ibikakarubamba ndetse n'indi miti itandukanye. Hejuru yaho gato hari karoti, inanasi ndetse n'imineke.

Nkuko nakunze kubikubwira kenshi, ba rwiyemezamirimo, bahinga ibikakarubamba basa naho na bo batangiye kubona ko byatanga isoko, kuko abakeneye kubikoramo imiti ni benshi, yaba abikorera ku giti cyabo, ndetse na leta muri rusange.

Umuravumba abantu bataramenya ko ushobora kuba wavura indwara zitandukanye, wasangaga ari igiti cyifashishwa byonyine mu gukora urugo cyangwa se uruzitiro, ariko kuri ubu nubwo gishobora gukora n'ibyo ngibyo, banagiha akandi kazi ko kuba cyabavura indwara.

Ibinini bitandukanye byashyizwe ku kababi k'umuravumba, binagaragaza ko iki kibabi cy'umuravumba aricyo cyatunganyijwe ifu yacyo ikabikwa, ikanikwa kugeza havuyemo ikinini kimeze nk'aho cyavura nka bimenye dusanzwe tubona.

Ubundi imiti myinshi gakondo usanga ifunze mu ducupa, ariko uyu wo abawukoze ntabwo bigeze bifuza kuba bawufungiramo aho ngaho kuko uri mu gakarito nk'amwe mu mata tumaze iminsi tubona.

Ururabo rurandaranda rufite amababi nk'ay'ishu, ruyanga uruyange rufite ibara ry'iroza, rishobora kuba ryakurura inzuki zije guhova cyangwa se n'utundi dusimba tuza tugwa ku muhumuro warwo.

Abantu benshi bibeshya ku cyatsi cy'umusave bagatekereza ko gishobora kuba cyavamo umuti, gusa usanga n'amatungo mu byaro atabirya, ahari wenda abakomeze gushishikariza abantu kugitera, bashobora kuba hari ubundi bushakashatsi bavumbuye.

Si mu Rwanda honyine ushobora gusanga imiti gakondo ikozwe mu byatsi cyangwa se yavuye mu bindi bintu bihaboneka, no mu bihugu by'amahanga usanga hari ibyo bintu bishobora kuba byatanga ibyo byose, gusa ho banateye imbere ku buryo bashobora no kubonamo iby'amavitamine.

Umugore ufite ijosi rigari, yambaye umupira w'umukara, ntamusatsi mwinshi afite. Ni umwirabura cyane nk'uwo mu burengerazuba bwa Afurika, za Snegal cyangwa se ugasanga ari nka za Cameron.

Igicupa kinini cyane abenshi bita ibigurude kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse kikaba gipfundikije ibara ry'umutuku, ubwo ndavuga agapfundikizo, harimo umuti ukoze mu bimera, akaba ari umuti witwa umuti gakondo.

Umumama ufite agataro karimo ibintu bitandukanye, harimo imbuto, harimo imboga, hakabamo ndetse n'ibishobora kuba byafatwa nk'imiti gakondo, gusa ni we uzi ukuri niba arabiteka cyangwa se akaba agiye kubitunganyamo iyo miti koko.

Inkoko, isekuru ndetse n'umusekuzo biragaragara nka bimwe mu byifashishijwe hatunganywa uyu muti. Uyu muti nubwo utaragera mu macupa ariko urugendo rwo kuwugira mwiza rwo rumaze iminsi.

Icyatsi kimeze nk'umusave giteye mu bikono cyangwa se amavazi mu mvugo zigezweho kuri ubu, gifite amashami ariko ntabwo gifite amababi menshi, gusa kikaba kizwiho guhashya indwara nyinshi cyane.

Imiti myinshi iva mu bimera abenshi baba bumva ko yaba idafite imbaraga bitewe n'uburyo yanatunganyijwemo, gusa inzobere mu buvuzi ivuga ko iyi miti ishobora no kuba yanagira ingaruka nziza ku bwonko bitewe nuko yakoreshejwe.

Amacupa asaga makumyabiri n'atandatu, ateretse mu ma etajeri, iyo witegereje neza, ubona ameze nk'ibikurudumu byo hambere. Ibi byose rero, utabizi ushobora kuba wakwikanga, bamwe batinya ubusa.

Uko ubuvuzi bugenda butera imbere ni nako imiti gakondo igenda itakaza imbaraga, gusa abenshi hari ubwo bakubwira ngo dukeneye kujyana n'aho isi igeze, iyo miti gakondo igakoreshwa ariko igakoreshwa mu buryo bwa kizungu, kugira ngo umuco ukurane n'ibiriho.

Umuravumba imiterere yawo irasa n'iyo uw'igicunshu, gusa bigatanira mu busharire no mu bukarate, umuravumba iyo uwuhekenye wumva winjira mu majigo ,mu gihe igicunshu iyo ukinywa wumva kimanuka kigana ahari ingoto.

Mu ishyamba ni ho hantu ushobora kugera ugasangamo ibimera by'ubwoko butandukanye, ibishobora kwera imbuto ziribwa n'izitaribwa, aha ngaha turahabona ururabo rufite ibara ry'umuhondo, ushobora kuba waha n'umwana akaba yahora mu mu gihe ari kurira.

Icupa rinini cyane ry'umweru rifite ijosi ritari rirerire, aho umupfundikizo ufata w'umweruru, munsi yaho gato hari amagambo y'icyongereza agaragaza ibikoze muri uwo muti, hepfo yaho gato kandi hakaba harimo n'ibara rya move.

Ironji basatuyemo kabiri barangije bazana n'utundi turonji duto baradusatura, ironji ryo nubwo rihiye hari n'andi mabisi. Hariho indimu hariho urusenda ndetse n'ibibabi bya buri rubuto navuze.

Icyatsi gifite amababi ameze nk'umubirizi ariko wareba hirya gato ugasanga wagira ngo ni amatovu, gusa nanone wakwitegereza neza nta tovu ribaho ritagira amahwa. Ushobora kuba wahamya ko ari umubirizi ariko waba wihuse uba udafite amakuru yuzuye.